Abantu benshi batandukanye bahagaze imbere y'inyubako bamwe bahagaze ahagana hasi abandi bahagaze ahagana hejuru bombi batumbiriye muri kamera barimo gufata ifoto, bagaragaramo abagore ndetse n'abagabo bamwe bambaye imyenda y'umukara abandi bambaye imyenda y'ubururu barimo barafata ifoto bareba imbere muri kamera.

Igishushanyo cy'umubumbe w'Isi gishushanyije mu ibara ry'umweru, kikanyuramo imirongo izamuka n'impanuka y'umukara, kiriho ma ebyiri ma imwe isa uburu bwijimye indi ma isa icyatsi kibisi, hasi handitseho amagambo mu nyuguti nkuru mu buryo bw'umukara yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Agatanda kubatse mu buryo gakondo, kariho amasahane cyangwa se ibyombo bigiye bitandukanye, gahagaze ahantu hitaruye ku butaka budapavomye, hirya y'ubwo butaka hari insina nkeya, hirya na none hakaba imiyenzi iriho urubariro rutambitse hejuru, rumwe rumwe.

Ababyeyi benshi batandukanye bari mu cyumba gisa n'igitangirwamo ubuvuzi, bahagaze ku meza magari, umwe ahagaze ahanze amaso muri kamere, yambaye agashati k'umuhondo karimo amabara y'ubururu, ndetse hasi yambaye ubururu bwijimye.

Ni ababyeyi bagiye batandukanye, bicaye ahantu hamwe n'abana babo bakiri bato b'impinja, bahagararanye n'abantu bisa naho ari abaganga, umwe muri bo utagaragaza mu maso neza, ufite umusatsi mwinshi ariko wogoshe mu mpande, yambaye umupira w'umuhondo, yunamye yegera umwana ari kumusomya ku kintu gisa n'inkongoro.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani na cumi n'ibiri yambaye impuzankano y'ishati n'agakabutura yunamye ku kigega cy'umukara ariko kitagaragara cyose arimo arasuka amazi cyangwa se aravoma amazi mu gakombe yunamye areba hasi ntabwo mu isura hagaragara.

Mu cyumba cy'inama cyicayimo abantu benshi batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari imeza ngari, imbera yabo bombi bagiye bateretse icupa ry'amazi, imbere yabo kandi hari televiziyo nini yo mu bwoko bwa fulati bari mu kiganiro.

Imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hari ubwogero bw'indobo isa icyatsi ndetse n'ibase hasi isa icyatsi, hagaze umwa uri mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani n'icumi, arimo aroga mu ntoki yahanze amaso muri kamera yamwenyuye.

Ni ku ivomo rusange riri mu giturage risize irangi ry'ubururu, ririho za robine ebyiri cyangwa se imirimo ibiri, robine imwe ihagazeho akana karimo kavoma kareba muri kamera, hari umugore wambaye agasengenge k'umutuku wicaye arimo aruza umwana mu mutwe, umwana aridaha amazi nawe ayishyira mu mutwe.

Abana benshi biganjemo bambaye imyenda imeze nk'impuzankano y'umweru bamanitse impapuro hejuru bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo wambaye ipantaro y'umukara, bombi barebye imbere muri kamera inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Ni ivomo rusange ririho utugega dutatu dutandukanye, hahagazeho abana batandatu, buri kagega gahagazeho abana babiri babiri, baroga mu ntoki amazi atembera mu ndobo z'umuhondo, bombi bambaye impuzankano ya kacyi.

Umuntu utagaragara igihimba cyose ugaragara ukuboko nabwo igice cyo ku rutugu, umuntu w'umuganga wambaye ga z'umweruru arimo ara amutera urushinge ku rutugu, uwo batera urushinge yambaye agapira k'imirongo y'umweru ndetse n'umukara.

Umumama w'Umunyafurika uri kumwe n'abana bari mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'ibiri b'Abanyafurika. Yambaye amarinete ku maso, yiteze igitambaro cy'umukara n'umuhondo. Yambaye kandi ishati y'ubururu, n'umuhondo, n'umutuku. Ahanze amaso imbere arimo kumwenyura.

Abantu babiri batagaragara neza umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'itanu, yikoye injerekani ariko yikorereye mu ndiba. Hari umugabo uri kumukorera wambaye umupira w'ubururu ariko utagaragara hasi guturuka mu gatuza, yamwenyuye yahindukiye areba uwo mwana, umwana areba muri kamera na we yamwenyuye.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'ine n'itanu, afite isabune mu ntoki, yambaye umupira w'ubururu urimo utungo tw'umukara mu gatuza ndetse no hasi, yateze amaboko arimo aroga mu ntoki, hari ukuboko kuri kumusukira amazi gukoresheje ijaga y'icyatsi.

Mu nyubako yubakishije amatafari ahiye hahagazemo abantu babiri umukobwa ndetse n'umugabo, umugabo yateye umugongo kamera yambaye ijire y'umukara yanditseho amagambo y'umweru, hagati ye n'umukobwa hateretsemo ibikarito byiganjemo ibisa ibara ry'icyatsi.

Abagore batatu umwe atagaragara neza, umwe aryamye ku gitanda ameze nk'umuforomokazi, yambaye ishati yo kwa muganga, yambara agapfukamunwa, hari umuri iruhande wamwubitseho ugutwi ndetse ashyira agapimo ku nda ye, ari kumva uko munda bimeze.

Mu nzu hateye irange ry'umuhondo wererutse, yicayemo ababyeyi b'abagore ndetse n'abagabo, bamwe muri bo bafite impapuro imbere yabo cyangwa se amafishe, bahanze amaso imbere bisa naho hari umuntu bari kureba uri kubahereza amabwiriza, bicaye ku ntebe za karambarara, basa naho ari abagore n'abagabo.

Ikirangantego cy'urwego rushinzwe gutanga amazi mu Gihugu cy'u Rwanda tuzi nka wasake, mu mpine handitse inyuguti ya WASA ndetse na C, munsi bakabirambura mu rurimi rw'Icyongereza.

Ivomo rusange ry'ubakiye gusa ahaturuka amazi hari ibara ry'ubururu naho hejuru hakaba ibara ry'umuhondo werurutse, hahagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara hejuru, i ruhande rwe hahagaze aba mama batonze umurongo bambaye imyenda itandukanye bamwe muri bo bateze ibitambaro batonze amajerekani bategereje kuvoma.

Umugabo w’umwirabura uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, wogoshe udafite umusatsi, yambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu bwerurutse, yambaye ipantaro y’umukara n’inkweto z'umukara, yunamye kuri kandagira ukarabe arimo aroga.

Abantu benshi bahagaze bamwe muribo bicaye bambaye amajire y'icyatsi bambara imipira imbere y'umuhondo ,bakenyeye ibitenge bigiye bitandukanye bahagaze, imbere yinzu isize amarangi y'umuhondo wererutse ,bombi barebye imbere muri kamera bamwe muribo bari kumwenyura.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru, yicayeyemo abantu benshi batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye mu buryo bwa mpande eshatu; uruhande rumwe rurebana n'urubundi, urundi ruri ahagana hakurya, hagati yabo hahagazeyo umuforomo wambaye itabuririya y'umweru n'inkweto z'umweru uri kubaha ikiganiro.

Ivomo rusange rizwi nka Nayikondo, hahagazeho abagore batatu batandukanye, babiri bafashe ku cyuma gipompa kizana amazi, undi umwe arunamye ari kudaha amazi mu kintu kirimo kirajyamo amazi gisa ibara ry'ikigina, ari gukoresha indobo ifite ibara ry'icyatsi.

Amafoto y'abantu batandukanye umugabo ndetse n'umugore, abana b'abazungu bari mu kigero cy'imyaka hagati y'icyenda ni cumi ndetse n'undi mugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani uteruye akana mu ntoki kogoshe umusatsi, bombi barareba imbere berekeje amaso muri kamera.

Ivomo rusange rizwi ku izina rya nayikondo, hahagaze umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani na cumi n'ibiri, imisatsi ye iraboshye yambaye imyenda itukura hasi no hejuru, yunamye arimo aroga mu ntoki amazi ari koga agwa mu ibase y'umukara.

Urubyiruko rurimo abahungu n'abakobwa bisa n'aho ari abanyeshuri ba kaminuza, higanjemo abambaye amataburiya y'umweru, bambaye amakarita y'ubururu mu ijosi, bamwe muri bo bicaye hasi abandi barahagaze, bahagaze bareba imbere kugira ngo bafate ifoto, harimo n'abambaye imyenda y'umukara mbese mu mabara atandukanye.

Abantu batatu harimo abagore babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe wambaye imyenda y'icyatsi n'umukara ndetse uteze igitambaro, undi wambaye imyenda y'ikigina na we uteze igitambaro, umugabo umwe hejuru wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikigina arimo arakurura umufuka bari guterura bamuhereza.

Mu cyumba cy'inama abantu bagaraga imitwe gusa bateyemo ubwoko camera imbere yabo hicaye abagabo babiri bicaye ku meza magari barimo baratanga ikiganiro umwe afite mudasobwa imbere ye inyuma yabo hari icyapa ikindi cyanditse nk' ibara ry'uburu cyanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Ni amavomo atatu ahagazeho abana bambaye impuzankano zisa za kake, buri vumo rihagazeho abana babiri babiri mbese ubwo n'abana batandatu muri rusange, bari kuvomera mu ndobo zigiye zifite ibara ry'umuhondo ndetse imbere y'umwana umwe hari akajerekani k'arindwi.

Abantu bane bicaye imbere y'ubusitani burimo ikimera giteyeho umubyare gikikijwe n'uturabyo dutoya tutarakura cyane, ibyatsi biconze neza, hicaye abagore bane bakenyeye ibitambaro, hari umuforomokazi ubicaye imbere ufite agapimo gapima gutera k'umutima wa gashyize mu gutwi akakerekeza ku murwayi arimo aramuvura.

Mu cyumba cy'ivuriro gisizemo irangi ry'umweru gikingishije urugi rusize irangi ry'icyatsi, abagore babiri umuforomokazi ndetse n'umubyeyi ufite umwana mutoya, umuforomokazi yambaye itaburiya y'umweru arimo araha umwana umuti yamwasamu yakoresha agako ke k'ibumoso, ari kumusuka umuti akoresha akabo ke k'iburyo.

Abantu batandukanye bari mu nyubako irimo ameza atandukanye gusa ari ibitambaro by'umweru bombi bafite ikayeimbere ndetse n'icupa ry'amazi, bamwe bambaye impuzankano y'icyatsi abandi bambaye impuzankano y'umweru bombi bambaye udupfukamunwa tw'umukara.

Ivomo rusange rizwi ku izina rya nayikondo ryubatse ahirengeye, inyuma yaryo hagaragara ibimera by'icyatsi, umugabo arimo arapompa, yambaye imyenda y'umukara, yagonze umugongo, iruhande rwe hahagaze abandi bantu benshi, barimo umugabo wambaye akagofero k'umweru, n'igipira gisa umweru.

Umuntu usutamye gusa amaguru ye ntabwo agaragara neza, yahanze amaso muri kamere afite umusatsi mukeya arimo aramwenyura, amaboko ye yombi yayegereje munsi ya robine irekura amazi arimo aroga mu ntoki, hirya ye hari idomoro isa ubururu ipfundikije umufuniko w'umutuk, iruhande rw'aho hari ayandi majerekani abiri y'umuhondo, imwe ifite agafuniko batega ku mazi kugira ngo amazi atameneneka mbese gakoze mu buryo bw'umubirikira.

Abantu benshi bahagaze imbere y'itente ry'umweru bamwe baricaye abandi bahagaze mu busitani, abiganjemo ni abagore bambaye amataburiya y'ubururu, bameze nk'abari gukoma amashyi imbere yabo hari ibyatsi bya jaride.

Ivomo rusange rihagazweho n'abantu benshi batandukanye, biganjemo abagore bateze ibitambaro, hari umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'igitenge k'icyatsi hasi ariko utagaragara amaguru, yateze indobo afatanyije n'undi mugore ufite imisatsi ariko udateze igitambaro, wambaye umupira urimo amabara menshi barimo baravoma.

Abantu babiri umusaza wambaye akafero k'abasilamu wambaye ishati irimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo wahindukiye kuruhande rwe rw'iburyo areba umuganga mu maso wamukoze ku rutugu wambaye ga z'umweru yambaye kandi itabuye y'umweru afite terefone nini mu ntoki yambaye agapfukanwa k'umweru.

Umugabo uhagaze ku meza ndende bavugiraho ijambo, asa n'uri gutanga imbwirwaruhame, cyangwa se inama, yambaye ikote ry'umukara, mo imbere karuvati itukura, asa n'umuyobozi mu ishami rishinzwe ubuzima mu Rwanda, haragaragara kandi intebe eshatu z'umuhondo.

Umusore wambaye amarinete y'umukara wogoshe mu mpande ufite umusatsi hejuru wamwenyuye ariko areba k'uruhande rw'ibumoso, yambaye umupira w'umuhondo wo mu bwoko bwa Rokosite, yicaye asutamye yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara afashe akana mu ntoki kambaye umupira w'umuhondo, kambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'amasogisi gahagaze ku gipimo gipima ibiro.

Ni icyapa gihagazweho n'abagore batatu batandukanye, umwe ku ruhande rw'ibumoso undi ku rw'iburyo, bombi bazanye amaboko yabo bayakozaho nk'aho barimo baragishushanyaho, hari ugihagaze inyuma wambaye agapira k'umutuku ufite imisatsi myinshi wambaye agapfukamunwa k'umweru urimo urakireba.

Abantu batatu batandukanye babiri batagaragara amasura neza umugore yicaye hasi yambaye agapira k'umweru, fime cyangwa se amarinete yashyize mu ijosi, yamanuye umupira, bari kumutera urushinge ku rutugu uri kuru mutera ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye isaha k'ukuboko.

Ivumo rusange ririho abana benshi batandukanye hari umwana uri kuri robine ifite agatwe k'umutuku ari kunywa amazi yashyizeho ikiganza, ibihimba byo hasi bombi ntabwo bigaragara, iyo robine yubatse ahantu hameze nko mu kazu ka senyengi hasi no hejuru.

Ubwogero buteretse ahantu hejuru, busa ibara ry'ubururu, ibiganza by'umuntu utagaragara igice kindi cy'umubiri na kimwe uretse ibyo biganza gusa, byatezeho, biri koga, amazi ari gutonyangiraho, hirya hateretse isabune y'umweru.

Mu cyumba gisize irangi ry'umweru kirimo intebe zitandukanye zegamirwa z'ira ry'umukara ndetse n'ameza y'ikigina, hari umugabo wicaye hakurya iruhande rw'idirishya ririho amarido ariko bakinguye arimo aratanga ijambo, aya meza ateho n'abantu bane batandukanye, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bose bahanze amaso uwo mugabo.

Mu mbuga yo mu rugo ivomo igice cy'umukobwa uri mu gihe cy'imyaka hagati ya makumyabiri nitatu na makumyabiri nitanu ufite umusatsi mukeya wambaye agapira k'umutuku ijipo y'umukara wicaye arimo aravoma ijerekana ari kuvomeramo nijerekani isa ibara ry'umuhondo iriho igipapuro cy'umutuku iteretse mu mabafu abiri agerekeranye.

Abantu bageze kuri batanu bari ku ivomo rusange batonze amajerekani yabo k'umurongo, umwe ahahagaze mu kagega mo indani, bane basigaye bahanze amaso imbere umwe muri bo yambaye igitenge cy'umutuku agashati k'umuhondo n'igitambaro mu maso, naho undi mukobwa yambaye ikanzu y'amabara y'umuhondo n'umukara undi mumama yambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu n'umweru.

Ku kigo nderabuzima cya Mayange, gisize irangi ry'umuhondo cyanditseho amagambo mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu. Hahagaze abantu benshi bambaye amakarita y'akazi ndetse n'amataburiya, imbere yabo hahagaze umuzungu uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu n'itanu, ufite uruhara w'umugabo, yambaye ikoti ry'umukara ahagaze abareba ari gukoma amashyi, nabo barakoma amashyi bareba imbere muri camera, ibice byo hasi byabo ntabwo bigaragara.

Ivomo rusange rifite iminwa itatu, hagaze abana bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru irimo akabara k'ubururu, hasi bakambara ubururu, bahanze amaso muri kamere bisize isabune ku ntoki bigaragara ko barimo baroga mu ntoki.

Ni abana b'abanyafurika bari mu kigero cy'imyaka hagati y' umunani n'icumi, bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru, hasi ubururu, bahagaze imbere y'ubwogero, bahanze amaso muri kamera barimo baramwenyura.

Mu nzu irimo ibikoresho byinshi bitandukanye higanjemo ifite amabara y'umweru, hahagazemo umugore wateye kamera umugongo, wambaye igitambaro cy'umuhondo kirimo amabara y'ubururu, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, yambaye hasi umwenda w'ubururu ariko ntabwo igice cyo guturuka mu gatuza kigaragara.

Abantu babiri batandukanye bicaye, umugore n'umugabo, umugabo yambaye umupira w'ubururu wo mu bwoko bwa rakosite, yambaye koteri mu gutwi, umugore yambaye umupira w'umweru hejuru, yambaye ipantaro y'ubururu, afite igitabo kinini arimo arandikamo, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, uwo mugabo yahanze amaso mu gitabo.

Icyapa gisa ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo amwe yandikishije icyatsi andi yandikishije umweru hariho umugabo ugaragara umutwe gusa wambaye amarinete agaragaza amaso udafite umusatsi.

Abantu batandukanye harimo abagabo batatu abandi ni abana batoya, umugabo umwe yambaye ijire y'ubururu n'umupira w'umutuku mo imbere, ahagaze ari kwereka ikintu kimeze nk'icyapa cyangwa se amabwiriza ari gusomera umugabo wicaye hasi wambaye akagofero k'abasiramu wambaye akantu k'icyatsi mu ijosi.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, higanjemo abagabo bambaye amakositimu y'umukara, amashati y'umweru mo imbere ndetse n'amakaravate, bahagaze kuri esikariye zitandukanye bamwe izo hasi, izo hejuru, izikurikiye gutyo gutyo, bahagaze batumbereye muri kamera barimo gufata ifoto.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani n'icumi udafite umusatsi ureba imbere wamwenyuye, yunamye iruhande rw'indobo yashyizeho ibiganza byombi bisa n'aho arimo arashaka gupfundura ngo agasuke amazi yo koga mu ntoki, iyo ndobo ipfundikije umupfundikizo w'ubururu irasa umweru, iteretse hejuru y'intebe.

Ni itente ry'umweru ririmo abantu benshi batandukanye biganjemo ababyeyi, imbere y'ababyeyi hari abana bambaye impuzankano y'icyatsi n'imbere bambayemo utwenda tujya gusa umweru, ababyeyi batumbereye abana ndetse no kuruhande rwo hirya hahagaze abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umukara, undi wambaye ishati ijya gusa umweru.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo ine n'itanu uhagaze imbere y'akagega cyangwa se ivomo rusange, wambaye igitenge gisa icyatsi kibisi, wambaye umupira urimo amabara y'umweru ubururu ndetse n'umukara, uteze agatambaro k'ubururu washyize ikiganza kuri robine arimo aravomera mu ijerekani.

Abana bari mu cyuzi bari mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'umwe, bambaye ubusa bari koga mu mazi ariko amazi ntabwo agaragara yose, bisa naho ayo mazi ari ay'uruzi cyangwa se undi mugezi.

Mu nyubako yicayemo abantu batandukanye, bicaye ku meza y'ubururu begamiye intebe z'umukara imbere yabo bombi, hari amacupa y'amazi agiye apfudikishije udufuniko tw'ubururu, imbere yabo kandi har’amazina yabo buri umwe wese aho yicaye n'izina rye, bahanze amaso imbere bigaragara ko bari gukurikirana ikiganiro.

Abantu benshi bambaye amatabuya y'ubururu, bambaye amakarita y'akazi bameze nk'abari gukoma amashyi bahagaze imbere yinzu y'umuhondo yanditseho amagambo y'umukara, imbere yabo hahagaze umuzungu bigaragara ko ari umusaza wambaye amarineti wambaye ikoti ry'umukara n'agashati k'umweru mw'imbere ariko wahagaze atunze umugongo hirya awuteye kamera.

Mu nzu mberabyombi imbere hicaye abantu batanu batandukanye barimo umugore umwe, abagabo bombi bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru imbere ndetse bamwe muri bo na za karuvati. Imbere yabo hari abantu benshi batandukanye bateye umugongo kamera bigaragara ko bari gukurikira ijambo bari guhabwa n'abo bantu bicaye imbere.

Imbere y'inyubako isakaje amabati y'umutuku hubatseho amatente abiri y'umweru ayo matete ahagazemo abantu benshi iruhande rwayo hari n'abandi benshi batandukanye inyuma y'modoka y'imbangukiragutabara ihahagaze ifunguye umuryango umwe, hagaze umusekeriteri cyangwag se ushinzwe ibijyanye n'umutekano uzwi nka daso.

Mu nyubako y'ibitaro irimo abantu batatu batandukanye isize irangi ry'umweru ikinki uburyo bw'umuhondo, harimo abaforomokazi babiri bambaye utuntu mu du twe tw'icyatsi bambaye imyenda y'ubururu umwe ari gutera umukobwa serumu umukobwa wambaye agapfunwa k'umukara uboshye imisatsi ifugiye inyuma wambaye agapira k'umuhondo wicaye mu ntebe y'umukara yegamirwa.

Mu cyumba cyo kwa muganga gikingishije umuryango w'icyatsi wa selirire, harimo abantu babiri umugore ufite umwana muto w'uruhinja ndetse n'umuforomokazi wambaye itabu y'umweru arimo arahereza umwana umuti uryamye ku bibero by'umubyeyi w'umugore.

Ivomo rusange riri ahantu mu kabande hitaruye hirya yaho hari ubwatsi busa icyatsi, rihagazeho abana bane batandukanye, hari umukobwa wafashe ku cyuma inyuma gipompa cyangwa se gipika amazi, abana batezeho ubujejikani amazi arimo aragwamo.

Abantu batandukanye batagaragara amaguru, barimo abagabo ndetse n’abagore. Hari umugabo muremure wambaye amakoti y’kigina, wafashe umugabo mu kiganza wambaye amakoti y’umukara n’ikarita y’akazi mu ijosi n’ishati’umweru mw' imbere. Barahindukira barebana basetse.

Abantu benshi batandukanye, barimo abagabo, abagore, ndetse n'abana, bahagaze imbere y'intente ritagaragara neza, hari umugabo wambaye ingofero, wambaye ikarita y'akazi y'ubururu, yashyize terefone ku gutwi, yambaye ipantaro y'umukara, arareba muri kamera.

Icyapa kiriho abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore ni ibihimba gusa bigaragara amafoto magufi hejuru yabo hari ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo akoresheje ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza hirya yacyo hari amagambo anditse ibara ry'umuhondo hari n'akabara kandi k'icyatsi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru hose cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ikigina, hasi hakaza akandi kajambo mu ibara ry'ikigina ariko ayo magambo yombi ananditse mu rurimi rw'icyongereza hariho akarango.

Abantu barindwi batandukanye barimo abakobwa ndetse n'abahungu bigaragara ko ari urubyiruko rwo mugero k'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, bafashe icyapa cy'ubururu mu ntoki zabo bakikingije gusa barakireberamo, bahagaze batumbereye amaso imbere muri kamena gusa igice cyo hasi cyabo ntabwo kigaragara.

Abana benshi batandukanye b'abirabura mu myaka igiye itandukanye bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye harimo ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'andi menshi, agatsinda gato muri bo gahagaze ku ivomo rusange kari hejuru y'ibafu irimo irajya mo amazi kari koga mu ntoki, abandi bari inyuma yabo barimo barabarebera.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze baraba muri kamera, harimo bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'impuzankano y'ubururu, bahuye kuba bambaye ingofero z'umweru, bafashe icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Ikinyarwanda agira ati: "Umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura."

Umwana w'umukobwa w'umwirabura uri mu kigero cy'imyaka hagati y'itandatu n'umunani yambaye impuzankano y'umutuku n'umweru hejuru ubwo ni ishati akambara ijipo'umutuku yegereye ibasi itukura arimo aroga mu intoki areba ku maboko ye.

Abantu benshi batandukanye b'ingeri zitandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abaganga bigaragara ko bari mu nzu yo kwa muganga, aharimo icyapa gifite amabara y'icyatsi kiriho umumama w'umuforomo, benshi bahagaze batumbereye imbere abandi baricaye.

Mu nyubako irimo amabara y'umweru igaragaramo akabara k'umutuku, ndetse n'andi mabara y'umukara hicayemo abantu benshi batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, gusa abagabo nibo benshi bicaye ku meza magari bose biteretse ibikombe bigaragara ko bari kunywa icyayi cyangwa se ikawa bari kuganira ku mushinga hagati yabo hari porojegiteri.

Ni umwana uri mu kigero kiri hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itandatu, yambaye agashati k'icyatsi yateze intoki kuri robine ari koga mu ntoki, yahanze amaso muri kamera, iruhande rwe hari akadubuke cyangwa se akaduramu gasa ubururu, nayikondo cyangwa se robine ari kogeraho irasa ubururu na yo.

Abantu bahagaze ku murongo ariko amasura yabo atagaragara, umwana umwe muri bo yunamye yashyize umunwa ku kigega kizana amazi ku ruhombo, yatezeho intoki amazi yose arimo aramujya mu kanwa, iruhande hari agatebe k'ubururu kegamirwa.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'itatu; umusatsi ye uraboshye, yambaye imyenda y'umutuku irimo amabara y'umukara n'umweru, yunamye yoga ku ivomo rusange rizwi nka nayikondo, amazi ari koga mu ntoki arimo arameneka mu ibasi isa ikigina, arunamye agonze umugongo

Mu nyubako isize amarangi y'umuhondo irimo intebe ebyiri z'umweru, harimo ameza atukura ndetse n'indi ntebe imwe y'umukara, harimo ababyeyi benshi cyangwa se abagore bateze amaboko mu buryo bw'imbyino gakondo bigaragara ko bari kubyina bishimye bamwenyuye.

Mu nzu yo kwa muganga isize irangi ry'umweru igaragaraho ikirahure, hahagazemo abantu batatu babiri bambaye imyenda y'ubururu bazamuye udukarito, undi umwe yambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfunwa k'ubururu, undi yambaye agafukamunwa k'umukara, undi yambaye ak'ubururu.

Mu cyumba gisize irangi ry'umweru harimo ameza magari yicayeho abantu bigaragara ko bari mu nama basobanurirwa umushinga runaka; bamwe mu bo bambaye amashati abandi bambaye amakote imbere hari ibishushanyo barimo barifashisha; bombi imbere yabo biteretse za mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Ivomo rusange ririho abantu batatu batandukanye, abana babiri ndetse n'umugore umwe, umugore yigonze arunama, yambaye agapira gafite amaboko magufiya k'iroza, yambaye akajipo k'umutuku, yateze ijerekani iri mu bwoko bw'ikibundi, isa ibara ry'umuhondo ku kagega irimo irajyamo amazi, yahinduye areba muri kamera.

Abagore babiri bigaragara ko bari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo n'itanu, umwe ateze igitambaro cy'umuhondo, yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, yashyize ibiganza bye ku meza, undi na we nuko yashyize ibiganza ku meza, gusa yambaye ikote ry'umweru ririmo utubara tw'umukara, mo imbere akambariramo agapira k'umukara, bombi bahanze amaso imbere bamwenyuye, inyuma yabo hari amashusho y'ubururu ndetse n'amadarapo asa ubururu.

Ivomo rusange rigaragaraho twa robine tune cyangwag se iminwa ine bavomesha, hari umugabo uhahagaze utagaragara igihimba cyo hejuru wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'ubururu n'ibikweto by'ikigina, imbere ye hahagaze umwana urangije kuvoma uri guterura indobo ashaka kwikorera.

Mu kibuga cyubatsemo itente, abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye mu itente imbere ku ntebe z'umweru, imbere yabo hahagaze umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi y'umukara igwa mu bitugu arimo arababwira ijambo ntabwo amaguru ye agaragara.

Abantu benshi batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, abazungu ndetse n'abirabura, bahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umuhondo, bahagaze mu byatsi bisa ibara ry'icyatsi ariko gitukura bimeze nk'ibyakubiswe n'izuba, barareba imbere muri kamera.

Abana b'abahungu babiri bicaye ku ivomo rusange rizwi nka nayikondo bateze intoki ku munwa wa nayikondo, uri gusuka amazi boga mu ntoki bari mu kigero cy'imyaka hagati y' icumi na cumi n'ibiri, umwe yambaye agapira gatukura undi yambaye imyenda isa n'amabara y'icyatsi, ndetse n'umweru bombi bicaye basutamye .

Abana batanu bambaye impuzankano hejuru y'umweru hasi y'ikigina, umwe muri bo arahagaze ntabwo agaragara isura, abandi bane barunamye bari koga mu ntoki, babiri muri bo barebye imbere muri kamera, abandi batumbereye ku mazi, inyuma yabo hari ibiti by'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Mu cyumba cy'ibitaro umuganga wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'agapfuma k'icyatsi afashe urushinge ari gutera umumama wicaye wambaye umupira w'umukara ariko udafite amaboko, wambaye agafuka k'umukara ufite agasakame mu ijosi ariko igihemba cyose kitagaragara.

Abantu bane bambaye impuzankano y'ubururu bambaye ingofero z'umweru, bombi bamanitse igipfunsi cy'iburyo, bamwe muribo bamwenyuye igice cyo hasi cyabo ntabwo kigaragara, bahanze amaso muri kamera inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara utagaragara neza.

Umuntu utagaragara ugaragara urutugu gusa ndetse n'akaboko gatoya yambaye umupira n'imirongo y'umweru ndetse n'umukara hari umuntu ufite urushinge mu ntoki arimo ararumutera uwo muntu yambaye ga z'umweru ntabwo agaragara mu maso ntanikindi gihimba kigaragara uretse amaboko gusa bigaragara ko yambaye imyenda y'umukara.

ni abantu batatu umuforomokazi wambayetaburiya yumweru ikarita y'akazi y'ubururu afite igipi mumatwi ari gupima umwana wambaye ishati yu'ubururu n'umweru ndetse n'utubarawumutuku iruhande rw'umwana ahagaze umu mumama wambaye ishati ykigina usa n'uhetse umwana ufite agasakoshi iruhande rwe yahanze amaso umwana we

Mu nzu isize amarangi y'umuhondo, irimo abantu benshi batandukanye gusa biganjemo ababyeyi bafite abana, umugabo wambaye ishati y'ikigina ariko ifite amaboko magufiya, itagaragaza hasi ku maguru, ahagaze imbere y'aba bamama ameze nk'uri kubaha ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima.

Mu mbuga y'ikigo cy'amashuri umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani na cumi n'ibiri yateze ibiganza bye byombi kuri robine bigaragara ko ari kunywa amazi; arunamye yambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'agashati k'umweru mo imbere; imbere ye hateretse indobo ndende y'icyatsi iriho igipapuro cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru.

Ivomo rusange rizwi nka Nayikondo abagore batatu bari mu kigero cy'imyaka hagati mirongo itatu n'itanu na mirongo itatu n'umunani babiri bari ku cyuma gipompa kizana amazi undi umwe arimo aradaha amazi imbere aho amazi aturuka agwa mu ibafu nini ari gukoresha indobo y'icyatsi.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya mu biganza, ubumwe ni umwirabura, undi ni umuzungu, bombi bambaye amakositimu y'umukara na karuvati z'ubururu mo imbere, barimo baragaragaza inseko ku maso yabo, umuzungu afite dokima mu ntoki.

Ivomo rusange rizwi ku izina rya Nayikondo ryubatse ahirengeye, hirya yaryo hari ibyatsi bisa ibara ry'icyatsi kibisi, hahagaze abana bane batandukanye, bigaragara ko barangije kuvoma, umwe arimo arapompa amazi ameneka iruhande rw'ijerekani y'umuhondo ipfundikije umufuniko w'umutuku.

Abantu benshi b'abirabura bicaye kumeza magari bombi biteretse ibikombe by'amakawa hagati yabo harimo projegiteri, hari umugabo w'umuzungu umeze nkuri kubabasobanura ibijyanye n'umushinga wambaye karuvati y'umukara ishati y'umweru ndetse watebeje ariko wicaye ku ntebe.

Abantu benshi batandukanye, bari mu nzu y'inama, bicaye ku ntebe zegamirwa z'ubururu, ku meza magari bombi, buri wese imbere ye agiye afite icupa ry'amazi, amadokima iruhande rwabo, bameze nk'abari gusobanurirwa umushinga imbere kuri porojegiteri.

Ku ivuomo rusange izwi nka Nayikondo hicaye umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'itatu afite umusatsi mukeya yateze ibiganza bye kuri Nayikondo arimo arakaraba mu ntoki hirya ye hari amajerekani atatu abiri asa umuhondo n'indi imwe isa ubururu ipfundikije umufuniko w'umutuku.

Mu nyubako isize amarangi y'umuhondo, abantu benshi batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zirambaraye bafite impapuro mu ntoki, umugabo wo ku ruhande rugaragara neza yambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru mo imbere cyangwa se ishati y'umweru, afite na we urupapuro mu ntoki.

Akagega k'ivomo rusange gahagazeho umwana umwe w'umuhungu uri mu kigero k'imyaka hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'itatu, udafite umusatsi wahindukiye areba muri kamera yasetse, akaboko ke k'iburyo yagafatishije ku ijerekani yo mu bwoko bw'ikibundi isa ibara ry'umuhondo arimo aravoma, yambaye agapantaro k'umutuku ndetse n'agapira k'umweru.

Abantu benshi batandukanye bahagaze ahantu hera harimo umugabo wambaye itabuye y'umweru na ga z'ubururu bahagaze bombi bakikije akana k'uruhinja bigaragara ko kavutse karyamye ku kantu k'umuhondo ndetse n'ubururu.

Mu nyubako y'ivuriro isize irangi ry'umweru, ikagira parafo y'umweru yakaho itara, itaramiyemo abagore benshi batandukanye bafite abana ndetse n'amafishe, umugore uri imbere ugaragara neza, yambaye ibitenge bisa cyangwa se imyenda y'ibitenge, ateze igitenge gisa n'imyenda yambaye ateruye umwana mu ntoki, areba imbere muri kamera.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo itadatu n'ibiri, yambaye umukufi mu ijosi, yambaye imyenda itukura ariko irimo utubara tw'icyatsi, umweru ndetse n'umukara, asutse imisatsi, atumbereye muri kamera.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hose, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hariho umugabo udafite umusatsi igice cye cyo hasi guturuka mu gatuza kitagaragara, ufite mikoro y'umukara mu ntoki wahindukiriye iruhande rw'ibumoso bwe arimo aravuga ijambo.

Mu nyubako isize irangi ry'umuhondo, hicayemo umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'itandatu n'umunani usutse imisatsi. Yambaye impuzankano y'umweru ifite ka karavate ku bururu bwijimye n'agakabutura k'ingwa katagaragara neza ariko n'ubururu bwijimye, yicaye yegamiye intebe y'umuhondo. Imbere ye hari ameza.

Ku gipangu cyubakije amatafari ahiye habambyeho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umukara mu rurimi rw'icyongereza, iruhande rw'icyo cyapa hahagaze umugabo w'umuzungu ufite uruhara ufite ubwanwa ariko butari bwinshi cyane wambaye agashati k'umukara ariko karimo imirongo itambitse n'izamuye yambaye ipantaro y'ikigina ahagaze areba muri kamera.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye biganjemo abambaye imipira y'icyatsi bari mu nzira bagenda barererekeje bafite icyapa mu ntoki cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo y'ikinyarwanda agira ati ''kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye'' abantu barimo n'inzego z'umutekano nka polisi ndetse imbere yabo bombi hari umugabo ufite mikoro uri kugenda agira ibyo avuga.

Inyubako isize irange ry'umuhondo werurutse, imanitseho ikirangantego kiriho ibara ry'ubururu, ariko kigaragaza ubwonko, amadirishya yayo ni ubururu ndetse n'inzugi, ifite ibyuma bizamukaho by'ubururu, imbere yayo ukuntu ikoze, yubakishije amabuye ya garaviye.

Ni umugabo ugaragara ku cyapa, udafite umusatsi, washyize mikoro ku munwa, wahindukiye kuru ruhande rw'ibumoso bwe, wambaye agashati kajya gusa ubururu bwerurutse ariko bisa n'aho aringutanga ijambo ku bijyanye n'ubuzima.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu n'ibiri y'amavuko, afite umusatsi mukeya yambaye agapira k'umutuku, yambaye ipantaro y'ikigina, ndetse n'inkweto z'umukara, yicaye ku gikarito yegamiye igikuta cy'inyubako ishaje ifite ibara ry'ikigina cyanduye, yahindukiye areba muri kamera.

Umugabo wicaye mu nyubako ishaje, wambaye agapira k'ubururu, gafite imirongo y'umweru ku ntugu, usa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe, ufite ibintu bimuziritse ku maguru ndetse wicaye ahantu hari ibyenda bisashe hasi n'ibitenge.

Munzu isize irangi ry'umwihari arikoko ishaje irangi ryatangiye guhunguka hamwe hagaragara ikibara cy'umukara hicayemo umusore uri hagati y'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri wambaye ubusa bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akaguru kamwe k'ibumoso yakarambije akandi yagahinnye amanuraho akaboko ke akaguru hari ikintu kikaziritseho ahindukiza ijosi areba muri kamera.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo n'itanu, ufite umusatsi unyerera w'umukara, wambaye amarinete, ureba imbere muri kamera. Yamanitse akantu kameze nk'ikarita akoresheje ukuboko kw'iburyo, yambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu ariko igice cyo hasi ntabwo kigaragara.

Abirabura babiri batandukanye bicaye, umwe yifashe ku matama yombi uzamuka ujya mu mutwe undi amufashe ku kiganza bicaye barebana, bigaragara yuko umwe afite agahinda undi ari kumuhumuriza.

Icyapa cy'umweru kirimo abantu bahagaze ndetse n'abicaye, bambaye imyenda itandukanye, iy'umukara, umweru, ubururu ndetse n'indi, kiragaragara ijambo hejuru rimeze nk'umutwe, ryanditse mu rurimi rw'icyongereza mu magambo y'umukara.

Umugore uri ahantu mu nzu utetse igikoma, bigaragara ko arimo aragikogesha ikiyiko, ahetse umwana mu mugongo mu gishura cy'umweru, undi mwana amuhagaze iruhande, uyu mugore akaba yambaye ibitenge ndetse n'agapfukamunwa kandoze mu gitenge.

Abantu babiri bicaye, umugore uri mi kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo ine, ufite imisatsi myinshi y'umukara iboshye, yicaye yashyize amaboko ku meza iruhande rwe hicaye umugabo wambaye agapira k'umukara ufite akantu k'icyatsi mu gatuza wakebukiye iruhande rwe rw'iburyo areba hirya atareba muri kamera.

Imbere y'inzu y'amatafari ahiye hicaye umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu n'umunani na mirongo irindwi n'itatu, yiteretse isafuriya imbere arimo arakorogamo n'umwuko iteretse ku mashyiga, iruhande rwe hateretse umupfundikizo w'iyo safuriya n'agakombe k'icyatsi.

Mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo cyo kwa muganga hicayemo abagore batandukanye, bamwe biteze udutambaro tw’amabara atandukanye, abandi bahetse abana bicaye ku ntebe zegamirwa ariko za sheze z'imbaho, hari umugabo uhagaze imbere arimo arabandikira n'ingwa, afite ibintu abereka imbere ku kibaho ameze nk'uri kubasobanurira ibijyanye n'ubuvuzi.

Mu nyubako yo kwa muganga irimo abagore bane batandukanye, batatu bicaye ku ntebe ntabwo ibyumba byose bigaragara, imbere yabo hateretse imeza ndende yabakingirije iriho igitambaro cy'ikigina, bombi biteretse amazi yo kunywa, hari umugore umwe muri bo ufite ijambo imbere wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantalo y'umukara ariko wakingirijwe n'ameza utagaragara neza.

Umusore wo mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, ufite umusatsi mukeya ureba imbere wamwenyuye, ufite ubwanwa bwo hasi bukeya, wambaye umupira w'umuhondo ariko utagaragara amaboko, ndetse n'igice cyo hasi guturuka mu gatuza kumanura ntabwo kigaragara.

Mu nyubako ifite igisenge gisa ubururu kiriho amatara arimo kwaka ibara ry'umweru, hahagazemo abantu benshi batandukanye bambaye imyenda itandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku cyanditseho amagambo atandukanye.

Abantu batatu bicaye mu cyumba hagati yabo hari ameza bombi bicaye ku intebe zitandukanye, umukobwa umwe afite imisatsi inyereje yambaye agapira k'ikiginaga karimo uturongo, imbere ye ku meza hateretse terefone ebyiri imwe iri m'ubwoko bwa tabureti indi isanzwe igendanwa, abagore bombi bateruye abana babiri bameze nk'abari gufata amabwiriza.

Abantu benshi batandukanye bica abantu bameze nkabakurikiye inama barimo abagore ndetse n'abagabo bigaragara ko harimo n'abasore, bombi bahanze amaso imbere bisanaho hari umuntu ubahagaze imbere ari kubagenera ijambo iruhande rw'imbere hari umugore ufite umusatsi utari mwinshi cyane wambaye amarinete, wambaye umupira w'umukara ndetse n'igitenge kirimo amabara wicaye gusa ntabwo igice cye cyose cyohasi kigaragara.

Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu n'itanu na mirongo irindwi ateze igitambaro cy'umweru yambaye iherena ku gutwi yahindukiye ku ruhande rw'ibumoso yasamuye umunwa yambaye urunigi mu ijosi yambaye ubusa hejuru gusa ntabwo igice cyo hasi gituruka mu gatuza kigaragara.

Abantu batanu barimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe bicaye ku ntebe, umugabo yicaye ateye intebe abareba, nabo bateye intebe imwe bayicayeho ari bane bamureba, umwe muri bo afite ikaye, bari mukibina cyangwa se itsinda.

Abantu batanu bicaye ku meza amwe bose bafite za mudasobwa imbere yabo n'amacupa y'amazi mbere, ni abagore bane n'umugabo umwe, umugore umwe muri bo yambaye agapira k'umutuku karimo utubara tw'umweru, afite ijambo mbese yiteze mikoro nk'umuntu wahawe kugira icyo avuga.

Umugabo w'umwirabura ufite imisatsi myinshi n'ubwanwa bwinshi ariko isa nabi cyane, asa n'aho ari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu na mirongo itanu n'ibiri y'amavuko, yambaye igipira cyangwa se igishati gisa ikigina ariko gisa nabi cyane bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yahindukiye ku ruhande rw'iburyo bwe arasamye ameze nk'uri gusakuza.

Abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu ugenekereje abakobwa n'abahungu bari mu gihe cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itatu na makumyabiri n'umunani hari umugabo uhagazemo hagati wambaye ipantaro y'umukara ishati y'umweru ndetse na karuvati ku ruhande rwabo hari umukobwa uhagaze bigaragara ko ari umuzungu cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'umunani na mirongo ine n'itanu wambaye lunette.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, yicaye imbere y'inyubako ishaje, yitangiye itama, yahumirije ijisho rimwe, yambaye ingofero y'umukara, yambaye umupira w'umukara hejuru, afite ishashi irimo amazi mu ntoki, yambaye amapantaro yacicaguritse, yambaye urukweto rumwe, iruhande rwe hari ibishashi.

Icyapa cya isange kiriho ikirangantego cyanditseho amagambo ari mu ruziga mo hagati hakavamo akanuma k'umweru, iki ni ikirangantego kandi cy'igihugu cy'u Rwanda, hasi yacyo hari ibindi birangagantego ndetse n'ikigantego cy'umuryango ushinzwe kwita ku bana.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itanu, udafite umusatsi wambaye umupira w'umutuku wa lacosite bamwambitse amapingu, yambaye igakabutura kagufiya yicaye hasi iruhande rwe hahagaze abantu benshi bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyapa gisize irangi ry'ubururu bwijimye ndetse n'umutuku ahagana hejuru cyanditseho amagambo akoresha ibara ry'umweru kiragaragaraho umukobwa wasetse gusa ugaragaza umutwe gusa ufunzeshinyo handitseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza agaragaza ibijyanye n'ubuzima.

Ni abantu benshi bahagaze bareba imbere bisa n'aho ari muri kamera, bafite icyapa kigari imbere yabo cy'amabara y'icyatsi, ubururu, umweru, cyanditseho amagambo mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hasi barahagaze bombi bisa naho ari umushinga mugari wabo.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru ikingishije urugi rusize irangi ry'umukara ihagazemo abantu benshi batandukanye barimo: abagabo, abagore, ndetse n'abakobwa. Harimo amezi abiri atukura; imeze imwe iri ku ruhande rumwe, indi iri ku rundi hagati y'ameza hari inzira ayo meza arambitseho impapuro n'amakaye bitandukanye, abo bantu bombi bahagaze bareba imbere.

Abantu batatu, umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo ine n'itanu n'umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo ine n'umunani bafite umugore hagati cyangwa se umukobwa hagati wambaye imyenda mibi cyane ufite umusatsi mwinshi wamwereyeho bisa naho afite uburwayi bwo mu mutwe bameze nk'abamwerekeje ku bitaro.

Umugore uri inyuma y'urupangu uri mu kigero cy'imyaka hagati mirongo itatu n'itanu na mirongo itatu n'umunani, wambaye amarinete yijimye mo gahoro wamwenyuye gakeya agatunga ikarita ibuka imbere, yambaye ibikomo ku kuboko kw'iburyo yambaye n'impeta igice cyo hasi cye ntabwo kigaragara neza.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na makumyabiri n'icyenda, yambaye agapira k'umuhondo ariko ntabwo igihimba cye kigaragara ndetse n'amaboko ntabwo agaragara, arareba imbere yamwenyuye, afite ubwanwa bukeya.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani na cumi n'ibiri, bambaye impuzankano y'ubururu hejuru, bamanitse ibiganza byabo bareba imbere bamwe muribo bamwenyura, ibice byo hasi byabo ntabwo bigaragara, inyuma yabo hari idarapo irimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Amagambo menshi atandukanye yanditse ku gikuta cy'umukara amwe yanditse m'amabara yu'ubururu n'icyatsi andi yanditse m'amabara atukura ariko ubutuku bwerurutse yanditse atambitse azamutse andi amanutse yanditse mu buryo bwose bushoboka.

Inyubako y'ibitaro yubakishije amatafari ahiye ikingishije idirishya ry'umweru, umugore ateruye umwana ariko umugore ntabwo agaragara igice cyo hasi guturuka mu bitugu kumanura hasi, afite umusatsi mwinshi w'umukara we n'umwana we ntabwo bagaragara igihimba cyo hasi, umwana yamwenyuye na nyina yamwenyuye.

Isura itagaragara yose hagaragara ijisho rimwe ndetse n'amazuru igice cy'umuntu kimwe ntabwo kigaragara ariko ni gitoya, ni isura igaragara ko ari iy'umuntu w'umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu n'ibiri ijisho rye rimwe ririmo riravamo amarira gusa irindi jisho ntabwo rigaragara.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo ine n’itanu, umugore afite mikoro ari kuvuga ijambo, bicaye bombi inyuma y'ameza y’abakingirije ntabwo ibice byabo byo hasi bigaragara, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, imbere ye ndetse n'umugore hateretse icupa ry'amazi.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu n'itanu na mirongo irindwi yambaye ingofero y'ikigina yamwenyuye afite ubwanwa bukeya burimo imvi nyinshi yambaye ishati y'umweru n'uturongo yasikweya yikenye umukenyero w'umuhondo afite icumu mu ntoki arimo arabyina ariko igice cyo guturuka munsi y'agatuza kugeza hasi n'amaboko ntabwo bigaragara.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati mirongo ine n'itanu na mirongo itanu yambaye umupira w'ubururu ufite amapesi imbere ariko atagera hasi ufite amaboko maremare hasi ntabwo igihimba kigaragara arareba imbere muri kamere afite umusatsi mukeya yamwenyuye ariko atagaragaza amenyo.

Umukobwa utagaragara isura yose ufite imisatsi imanuka mu maso w'umwirabura uri mu kigero k'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu, yakoresheje amaboko ye yombi afata akadodo agafatisha amenyo, yambaye isengeri y'umweru, igice cyo hasi ntabwo kigaragara yahumirije amaso.

Ni umusore w'umwirabura, uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itandatu na makumyabiri n'umunani, uri kwireba mu ndorerwamo, afite akantu yashyize mu meyo bisa n'aho ari kwisuzuma, yambaye imyenda y'umweru, umusatsi we ni umukara.

Umugabo utagaragara isura neza gusa ugaragara igice cyo munwa, yambaye ubusa hejuru ariko igice cyo hasi ntabwo kigaragara guturuka mu gatuza, yashyize akantu k'ubururu mu kanwa mu menyo bigaragara yuko ari gasuzuma amenyo, yagafatishije ikiganza cye cy'iburyo.

Mu nyubako y'ibitaro abantu babiri umurwayi w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani ,uboshye imisatsi ariko migufi y'umukara, aryamye ku gitanda imbere ye hahagaze umuforomo afite agapimo gapima amenyo yambaye ga z'umweru ntabwo agaragara wese yateye umugongo kamera.

Mu nyubako isize amarangi y'umuhondo, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byiganje by'amabara yera, yicaye ku gatebe k'ibara ry'icyatsi gafite amapine, yanaganitseho amaguru ye yombi, yambaye itabuye y'umweru, yifashe mu biganza.

Mu nzu isize amarangi y'umuhondo yo kwa muganga hicayeho umugabo wambaye itaburiye y'umweru, yicaye ku gatebe gafite amapine yatendetseho amaguru areba muri kamere, yasetse afite umusatsi mukeya yahuje ibiganza bye, yambaye isaha y'umukara.

Umukobwa uri mu cyigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, yahagaze ahanze amaso muri kamera, yamwenyuye ntabwo igice cye cy'agahanga kigaragara, yambaye ubusa ariko ntabwo igice cyo guturuka mu ijosi kugeza hasi cyigaragara.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga, umurwayi ndetse n'umuganga umuganga yambaye itaburiya y'umweru, karavati itukura, agapfukawa k'umweru, ga z'umweru, umusaza yambaye umupira w'icyatsi yegamye umuganga arimo aramukura iryinyo mu kanwa umusaza yasamye.

Mu cyumba cy'ibitaro hasize irangi ry'umweru, harimo amarido akinze ku madirishya y'umweru, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo umuforomo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukawa k'umweru, amarinete, afite ikirange mu ntoki arimo arandika ku rupapuro ruri hasi ku meza.

Umuntu utagaragara isura yose gusa bisa nkaho ari umukobwa wamwenyuye, udutoki twe twobwi akatwegereza ku amenyo ariko ntakoremo. Ari mu kigero cy' imyaka hagati ya makumyabiri n' umunani na mirongitatu ni tanu. Afite imisatsi myinshi ariko igice cyo guturuka ku maso kuzamuka mu gahanga ntago kigaragara.

Mu nyubako itagaragara impande zose irimo abantu batandukanye, harimo abahungu ndetse n'abakobwa bamwe muri bo biganje ku murongo w'imbere bicaye ku ntebe zigamirwa ariko zimbaho, bambaye imipira isi nibara ry'icyatsi yanditseho ijambo ry'ikinyarwanda mu ibara ry'umuhondo rigira riti tubiteho, inyuma yabo hahagaze abandi mu myenda y'umweru ariko siko bose bambaye umweru bamwe barimo bariborosa bose bafite imiti y'amenyo imbere yabo ku meza.

Umugabo uri mu cyigero cy' imyaka hagati ya mirongitatu na mirongitatu n' itanu, ufite umusatsi mucye wogoshe mu mande, ufite ubwanwa bucyeya yamwenyuye areba muri camera. Yambaye ikote risa ubururu ry' mu bwoko bw' ikoboyi, mu imbere yambariyemo agapira gasa ikigina ariko ntago amaboko ye guturuka mu gatuza kugeza hasi agaragara.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo ine, udafite umusatsi, ufite ubwanwa buke buringaniye, wambaye impeta, yambaye umwenda w'umukara hejuru, gusa hasi ntabwo agaragara, arimo arareba mu ndorerwamo, yashyize agatoki mu kanwa bigaragara ko hari akanta ari gukoza kumenyo.

Isura y'umuntu yanyujwe mu cyuma, ariko igaragara igice cyo ku minwa gusa, haragaragara amenyo ari mu mabara agiye atandukanye, hariho ayagiye azana utubara, icyuma cyafotoye hose, ku buryo n'imitsi yo mu kanwa igaragara, urebesheje amaso.

Mu nyubako yo kwa muganga irimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara, hejuru hari amatara yaka, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo agatebe k'umutuku gafite aho begeka umutwe, bigaragara y’uko ari aho bakorera ubuvuzi bw'amenyo.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri ni tatu na makumyabiri nitanu y'amavuko ateze igitambaro cy'umweru afite umusatsi w'umukara yambaye agasengeri k'umweru ariko ntabwo agaragara hasi kuva ku mabere ari kwiborosa akoresheje ukuboko kw'iburyo ari kureba mu ndorerwamo.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru, umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'ibiri n'itatu w'umukobwa, uteze akantu mu mutwe gafite akarabo, ufite uburoso mu kanwa busa ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, uwo mwana yicaye mu gatebe kegamirwa, gasa ibara ry'ubururu.

Akanwa k'umuntu katagaragaza amenyo yose, hagati iryinyo rimwe barishingujemo ryavuyemo, akuma kabikoraho kwa muganga karacyaribumbatiye. Ako kuma gafasheho urutoki rumwe rwambaye ga, rusa nkaho ari urw'umuganga.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu n'umunani, bambaye impuzankano hejuru amashati aciyemo uturongo twa nzweya, hasi imyambaro isa icyatsi barimo bariborosa, bamwe barebye imbere abandi barebye impande, abandi bajunditse amazi mbese muri make bari gusukura amenyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga abaganga babiri umwe yambaye itabuye y'umweru, ga z'umweru, agapfukawa k'ubururu, ndetse n'amarinete bunamye ku murwayi w'umugore bari kumukura iryinyo, undi muganga yambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu ndetse yambaye ga z'umweru.

Abanyeshuri bari mu kigeroro cy'imyaka hagati y'umunani n'icumi, bambaye impuzankano z'amashati arimo utuzu, bambaye amapantaro hasi y'ubururu, bamwe muri bo bambaye imipira y'ishuri, bafite uburoso bombi mu ntoki babushyize mu kanwa, bafite ibikombe by'amazi barimo bariborosa bareba imbere muri kamera.

Mu nyubako yo kwa muganga umuganga wambaye amarineti n'agapfukamunwa k'icyatsi ndetse n'itaburiya y'icyatsi ufite umusatsi muke utari mwinshi arimo arakura umwana iryinyo yambaye ga z'umweru umwana aryamye ku buriri yambaye agapira karimo imirongo y'umukara n'umweru.

Umugabo w'umuzungu ufite ubwanwa bwinshi n'imisatsi myinshi, wambaye amarinete y'umweru, wazamuye ibiganza arimo aramanura ifoto iriho amashusho y'amenyo, wambaye ishati y'umweru ariko igihimba cyo hasi kitagaragara neza.

Mu ishuri rikinguye amadirishya, abana bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru n'ikigina hasi, bicaye ku ntebe bamanitse imiti y'amenyo izwi nka korogate, inyuma yabo hari ikibaho bandikaho cy'umukara.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi irimo itaburiya y'umweru, ga mu ntoki, wambaye amarinete ariko wubitse umutwe, ufite umusatsi muke bitari mwinshi, ari gukura umwana amenyo, yifashishije ibikoresho bigezweho byo kwa muganga.

Mu nzu size irangi ry'umweru mu cyumba cyo kwa muganga abantu babiri umugabo ugaragara umutwe ariko bigaragara ko aryamye ari kumwe n'umuforomokazi wambaye itaburiya y'ubururu, wambaye ga z'ubururu, agapfungwa k'umweru ndetse n'agatambaro mu mutwe k'umweru, yafashe utwuma tubiri n'amaboko ye yombi arimo arakoza mu kanwa k'umugabo, umugabo arasamye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ibisa umukara n'ibindi bisa ikigina. Ibifite ingano zitandukanye inyuma hejuru bisongoye, byombi birambitse hasi ku butaka ariko birebana bimwe biri iruhande ibindi biri imbere, hagati yabyo harimo akanya. N'ibikoresho byifashishwa mu gukura amenyo.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo itatu n'umunani ufite ubwanwa bukeya wasamye afatishije akadodo ke n'amaboko yombi agakoza ku menyo bigaragara yuko ari ugakubisha amenyo, yambaye umupira w'umweru ariko ntabwo igihimba cye cyo hasi guturuka hejuru ku ijosi kigaragara.

Umusore utagaragara isura yose ugaragara igice gito cy'isura ugaragara n'intoki, yafashe akadodo agakoza ku menyo yashinyitse ni inzobe ntabwo umubiri we wose ugaragara guturuka hejuru mu ijosi kumanura hasi kugeza.

Ni umugabo utagaragaza neza igihimba cye ndetse no mu maso, gusa haragaragara umunwa, amenyo, ufite ubwanwa butari bwinshi cyane washyize akantu mu menyo bisa naho ari akantu gasuzuma uko amenyo ahagaze.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, afite ubwanwa ku matama yombi yamwenyuye yatunze agatoki mu kanwa yambaye umupira w'umweru, ariko hasi guturuka hejuru y'agatuza ntabwo hagaragara.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, ufite imisatsi myinshi, wambaye agasengeri k'umweru, ariko igihimba cyo hasi kitagaragara guturuka mu gatuza, washyize uburoso mu kanwa ari kwiborosa, ariko yireba mu ndorerwamo.

Ikiganza kitagaragara neza cyambaye ga y'ubururu, gifashe ifoto y'umukara irimo amabara y'umweru, ishushanyijeho iminwa myinshi irimo amenyo ariko bigaragara ko ari ibishushanyo byifashishwa mu kwiga ibijyanye n'amenyo, ikindi kiganza cyambaye ga y'ubururu kitagaragara nyiracyo, cyatunze agatoki ku menyo bigaragara yuko ari amasomo arimo arafatwa.

Mu nzu isize irangi ry'umweru, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo itandatu n'itanu, afite imvi nyinshi mu musatsi, yambaye ishati y'umweru, ahagati iyi isahani mu ntoki y'umweru, iriho ibiribwa, afite ifoke mu ntoki yarebye muri kamera ari guseka.

Umukecuru w'umwirabura ukuze, w'imvi nyinshi mu mutwe, wambaye agapira k'ubururu, agashabazi k'umweru, ndetse n'urunigi rw'umukara n'umweru mu ijosi, ufite mikoro umeze nk'uwahawe ijambo, ahagaze aho batangira ijambo.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru, abantu babiri umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu n'itanu na mirongo irindwi, ufite imvi wicaye ku gatebe afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki. Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu, wambaye agapimo gapima gutera k'umutima mu ijosi, ari guha umukecuru imiti, umukecuru ateze ikiganza arimo aramusukiraho.

Abantu babiri umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itanu ndetse n'umukobwa w'umuforomokazi uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'ibiri na makumyabiri n'itanu ufunze umusatsi shinyo, yaturutse inyuma umukecuru mu mugongo bafatana ibiganza uwo mukecuru yicaye mu gatebe ntabwo ibice byo hasi by'imibiri bigaragara.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru irimo igitanda kiriho imitako harimo abantu babiri umukecuru ndetse n'umusaza bari mu gihe cy'imyaka hagati ya mirongo itanu n'itanu na mirongo itandatu bombi bafite imvi nyinshi umusaza arimo anywera mu kirahure umukecuru amuhagaze imbere ntabwo amaguru yabo agaragara.

Abagore batandukanye bahagaze imbere y’igipangu gifunguye gifite ubwinjiriro, umuryango us’umweru. Icyo gipangu gisize irangi ry'ikigina, abo bagore biganjemo abambaye imipira y'umweru n'amajipo y'imikara. Umugore ur’imbere yabo bose yambaye ikanzu idoze mu gitenge, iriho umurongo w'umweru, hasi yambaye inkweto zifunguye.

Mu nyubako yo kwa muganga umusaza wo mu kigeroro cy'imyaka hagati ya mirongo irindwi na mirongo irindwi n'itanu, ufite imvi nyinshi wicaye mu kagare. Yafatanyije ibiganza bye byombi, yambaye umwenda w'umweru hejuru ari kumwe n'umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu wamurebye mu maso amufashe ku rutugu.

Mu busitani abantu babiri umusaza ndetse n'umuganga; umusaza yambaye ishati y'ubururu yicaye mu ntebe y'ikigina yegamirwa ariko itagaragaza amaguru afite umusatsi mukeya ari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu n'itanu; umukobwa ari kumushyira igipimo mu gatuza gipima gutera k'umutima; umukobwa yambaye agapfumwa k'ubururu afite umusatsi ufunze hejuru ariko kuboshye.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru umusaza ndetse n'umukecuru bambaye imyenda y'umutuku hejuru umwe iririmo u turongogo tw'umukara ariwe mukecuru bombi bafite imvi mu mutwe umusaza yambaye amarinete umukecuru yambara urunigi mu ijosi, umusaza ameze nk'uri gupfudura ikinini bombi ntabwo igice cyo ku maguru cyabo kigaragara.

Umukecuru utagaragara igihimba wambaye agapira gaciye amaboko, ufite ka ariteri mu ntoki gaterurwa n'ukuboko kumwe, afite umusatsi mukeya yamwenyuye, inyuma ye hari abazungu batagaragara neza mu maso ariko bisa nkaho hari abagabo ndetse n'umugore umwe.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza ntabwo amaguru yabo agaragara ubwo ni igihimba cyo guturuka hasi, umusaza ari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu afite umusatsi w'imvi ariko ni muke cyane, yambaye umupira w'ubururu ari kumwe n'umukecuru imisatsi ye ifunze wasetse ari kumwereka agapapuro.

Mu nyubako isize amarangi y'umweru, irimo abantu babiri ariko bigaragara ko bakuze, umusaza yambaye umupira w'ubururu, afite imvi nyinshi yicaye ku kameza, yateze ikiganza ameze nk'ugiye gusukaho imiti, hirya ye umukecuru umwicaye iruhande yambaye umupira w'umutuku na we afite imvi nyinshi, yatunze amaso ku gapapuro, bigaragare ko ari gusomera uyu musaza amabwiriza yo gufata imiti.

Abantu babiri umusaza uri mu kiro k'imyaka hagati ya mirongo itandatu n'tanu na mirongo irindwi; ufite imvi nyinshi, ufite uruhara ariko wateye umugongo kamera, wambaye umupira w'ikigina; ari kumwe n'umugore uri mu kigero k'imyaka hagati mirongo itanu n'tanu na mirongo itandatu, arimo aramusindagiza amusohora hanze, mu muryango urakinguye ariko hasi yabo ntabwo hagaragara.

Abagore benshi bigaragara ko bakuze ugenekereje bari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu n'umunani, bateze ibitambaro bigiye bitandukanye mu mabara, bambaye imyenda kandi igiye itandukanye mu mabara, inyuma yabo hari intebe zegamirwa zisa umweru.

Mu nyubako isize irangi ry'umukara umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo ine n'itanu ufite imvi mu musatsi ndetse no mubwanwa ariko ufite ubwanwa bukeya yagamishije umutwe we ku mukobwa wambaye amarinete uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu wambaye ikote ry'ubururu ryo mu bwoko bw'ikoboyi bareba imbere bareba muri kamera, umusaza yambaye ikote ry'umutuku.

Abantu babiri umugabo w'ikigero cy'imyaka hagati mirongo itanu na mirongo itanu n'itanu ufite imvi nkeya, mu mutwe ndetse no mu bwanwa yicaye ku ntebe yarambuye akaboko agahereza umugore wambaye agatambaro k'umukara wicaye ahinnye amaguru barimo barebana maso baraseka.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'ibiri na makumyabiri n'itanu, ari kumwe n'umukecuru bisa n'aho arimo aramwerekera cyangwa se amukoresha imyitozo, umukobwa afite imisatsi y'umukara yambaye agapira k'iroze, areba umukecuru mu maso n'ibyishimo byinshi.

umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 25 na26 ufunze imisatsi ya shinyo, wambaye imyenda y'ubururu, bisa naho hari umuforomokazi. Afatanya n'umukecuru mu biganza ariko yamuturutse inyuma barebana mu maso. umukecuru wambaye imyenda itukura, wambaye utu Runnete twa'amaso, uteza igitambaro mu mutwe, wamwenyuye.

Mu nyubako yo kwa muganga umusaza mukigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo itandatu n'itanu ufite umusatsi mukeya udafite ubwanwa yambaye umupira w'ikigina ipantaro y'umukara umukandara udafunze neza w'umweru yafatishije amaboko yombi ku byuma bibiri bimeze nkaho arikwiga gutambuka inyuma ye hari umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu uri kumwerekera

Abantu babiri umugore n'umugabo ibihimba byo hasi bitagaragara, umugabo yambaye umupira w'ikigina n’umwirabura bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo ine n'umunani, ari kumwe n'umugore w'umuzungukazi ufite imvi wamwenyuye nubwo bose bamwenyuye wambaye agasaha karimo akabara k'umukara n'umweru n'umugabo yambaye isaha y'umukara ndetse yambaye n'impeta.

Abantu bane bari mu muhanda bisa naho ari ari umunsi w'imyitozo cyangwa se umunsi wa siporo. Imbere hari abagore babiri bambaye imipira y'ubururu, hasi amapantaro. Inyuma yabo hari umugore wambaye umupira w'ikigina n'ipantaro ya jojingi. Inyuma yabo hari umusore wambaye agapira k'umukara. Iruhande rwe hari umuntu utagaragara neza ariko bisa nkaho yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara hasi.

Abasaza barindwi bateye intebe ku murongo zegamirwa, ndetse z'imifariso, zifite ibara ry'umutuku, bamwe muri bo bambaye ama kositimu y'umukara, undi muri bo yambaye imyenda idoze mu gitenge, n'inkweto z'umukara, n'amasogisi y'umweru, naho abandi bose bagiye bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye ingofero, gusa ikigaragara bose bafite inkoni mu ntoki.

Mu nyubako yo kwa muganga isize amarangi y'umweru hasi umukara, ikingishije amadirishya y'ikigina, hahagazemo umuntu utagaragara neza ariko wambaye imyambaro yo kwa muganga isa ikigina ndetse n'akabaro akabara k'ubururu imbere, yambaye agakoma ku ntoki yafashe igikoresho kimufasha kwiga gutambuka bigaragara ko ari mu zabukuru yambaye ikirenge.

umuryango w'abantu batandatu biganjemo abakuze ndetse n'abakiri bato, bombi bicaye hamwe bari gusabana bicaye ku kintu gisa ubururu, bari mu nyubako inyuma irimo ibirabyo, harimo abagabo abagore ndetse n'abakecuru n'abasaza.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu n'itanu ufite umusatsi urimo imvi, yambaye ikote ry'umutuku ndetse n'umukara afite utuntu mu ntoki yatunze imbere dukoreshwa siporo tumeze nka ariteri, igice cyo hasi cye guturuka mu gatuza ntabwo kigaragara, areba imbere yamwenyuye.

Abantu babiri bicaye mu nyubako, umugore wambaye ishati yera, wicaye imbere ya mudasobwa, wambaye amarinete, wicaranye n'umusaza wambaye ishati yo mu bwoko bwa karokaro irimo amabara y'umutuku ndetse n'ay'umweru, umusaza ufite imvi nyinshi n'ubwanwa burimo imvi nyinshi, afite agacupa mu ntoki kameze nk'aho ari ak'umuti gakondo, arimo arakitegereza ameze nk'usoma amagambo.

Abagore babiri batagaragara amaguru umwe ari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itanu, yambaye agatambaro k'umutuku, yambaye umupira w'icyatsi ari kuzunguza amaboko atambuka. Uri hirya ye nawe ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo ine, umusatsi we uraboshye arareba muri kamere yamwenyuye na we ari gutambuka.

Abantu batandatu batandukanye bisa n'ahari umuryango mugari, harimo umusaza ufite umusatsi utari mwinshi cyane gusa wuzuyemo imvi, ndetse n'ubwanwa burimo imvi. Harimo n'umugore kandi uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu n’itanu wamwenyuye. Bombi barareba imbere muri camera basetse, gusa igihimba cyo hasi cyabo ntabwo kigaragara.

Umuntu wateye kamera umugongo utagaragara mu maso; yambaye ikoti ry'ikigina ririho ikora; yambaye agapima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'ibumoso; yatunzeho agatoki akoresheje ukuboko kw'iburyo; yamanuye amaso areba kuri ako gapimo.

Umuntu utagaragara mu maso, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ubururu n'ikigina, yicaye arimo arakina umukino uzwi nka dame, yashyize ikiganza cye cy'iburyo ku nka cyangwa se ku tuntu bakinisha iyo dame.

Mu cyumba cy'ibitaro gisize amarangi y'umweru haryamyemo umusaza ufite imvi nyinshi mu bwanwa utagaragara neza wambaye umupira w'umweru, iruhande rwe hari igipimo cyanditsemo mirongo icyenda n'icyenda naho iruhande rwe hahagaze umuforomo wambaye itaburiye y'umweru ufite ibi mu ntoki.

Abasaza babiri bambaye ingofero z'urugara zitandukanye umwe ingofero isa kigina undi isa umukara, uwambaye amalinete n'agashati k'icyatsi umwitero w'umweru. Undi akambara ishati y'umweru umwitero w'umukara ndetse bari guha amashyi. Bahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu bisa naho hari imihango y'ubukwe.

Abantu benshi batandukanye bari mu muhanda, imbere hari abakecuru babiri bicumbye utubando, bakenyeye imikenyero y'umweru, mo imbere bambariyemo impira y'umutuku, inyuma yabo hari abantu benshi bagiye batandukanye.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu, ufite igipimo mu matwi ye, ari gupima gutera k'umutima w'umukecuru, bisa naho afite uburwayi wicaye mu kagare, uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi.

Ubusitani buconze neza, umugore warambuyemo igitambaro akacyicaraho, yambaye umupira w'ikigina aboshya imisatsi, yunamye yigonze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye yombi yayakojeje ku maguru yombi maze arangije arunama yegereza umutwe ku birenge.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo irindwi na mirongo irindwi n'itanu ufite imvi nyinshi wambaye amarinete, yambaye ishati y'ubururu mu imbere inyuma yambaye umupira w'ikigina, afite ikaramu mu ntoki yicaye i ruhande rw'ameza yarambuyeho agakayi arimo arandika gusa igice cy'amaguru cye ntabwo kigaragara.

Mu cyumba cy'inyubako hicayemo abantu higanjemo abakuze, harimo umusaza uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu n'itanu, ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa bukeya, afite agasorori mu ntoki karimo agasosi, ari kumwe n'umukecuru bicaye barebana n'umuzungu, ufite umusatsi w'umweru wateye umugongo kamera inyuma y'uwo musaza, hahagaze umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hagati mirongo itandatu n'umunani na mirongo irindwi, yambaye umupira w'ubururu afite igikombe cy'ikirahure mu ntoki, akaboko k'iburyo yakazamuye agafatisha ku mazuru, yambaye amalineti agaragaza amaso.

Mu nyubako ifite ibara ry'ikigina, umugore ufite imisatsi miremire igwa mu bitugu. Yambaye agapira k'icyatsi, yambaye ijipo y'umweru irimo amabara y'umutuku, afite mikoro yahindutse iruhande rwe rw'iburyo, ari kureba abantu bamukurikiye barimo; uwicaye ku ntebe imbere y'ubururu, wazamuye akaguru.

Icyapa cy'amabara atatu atandukanye, ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu yandikishije ibara ry'umweru na ho mu ibara ry'icyatsi handitseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse hakaza akajambo kandikishije ibara ry'icyatsi kibisi, iruhande rw'ayo mabara yombi hariho utundi turangantego tw'ubwoko bumwe.

Icyapa gisize irangi ry'ubururu kiriho akarangantego ka afurika kari mw'ibara ry'umweru kiriho umugore cyangwa se umukobwa uri mukigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu nibiri yazamuye igipfunsi yambaye akagofero k'ubururu yambaye agapfukamwa munsi y'akananwa areba imbere muri kamera.

Mu nzu mberabyombi yicayemo abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bateye umugongo camera hari abantu benshi bicaye imbere bageze kuri batanu bari gutanga ikiganiro bamwe muri bo bambaye umwenda utukura undi yambaye umwenda w'umweru abandi bagiye bambara imyenda itandukanye bari gutanga ikiganiro.

Ikarita y'umweru yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'impine yanditse mu magambo y'ubururu igira iti “NCD” amagambo y'icyongereza mu buryo burambuye akagira ati”Non communicable diseases” agapimo gapima gutera k'umutima gasa umweru n'ubururu ndetse n'ikaramu y'umukara ku ruhande rw'iburyo hakaba seregi y'umweru irambitse hasi ifite agatwe k'ubururu.

Abantu benshi batandukanye bahagaze barira muri kamera bambaye imyenda itandukanye, hari umugabo uhagazemo ushinzwe umutekano wambaye ingofero y'icyatsi n'imyenda y'icyatsi hasi uzwi mu Rwanda nka daso, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru kirekire cyane.

Mu nzu mberabyombi abantu bakurikiye inama bicaye bateye umugongo kamera, ariko hasi yabo hatagaragara, bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hari abantu bari gutanga ikiganiro barimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma y'abo bantu bari gutanga ikiganiro hari icyapa kigari cyaka, cyanditseho amagambo y'umweru ariko mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi bari mu nzu isize amarange y'umweru iruhande rwabo hateretse ibyapa bitandukanye, ni abagabo ndetse n'abagore biganjemo bambaye amakositimu y'umukara n'amashati y'imyeru mu imbere, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma barareba imbere muri kamera bameze nk'abiteguye gufata ifoto.

Ni icyapa kiriho abantu batandukanye bisa naho bakora mu bijyanye n'ubuzima, icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo agira ati ''Igikorwa mbona nkubone ndetse ntitugire uwo duheza cyangwa se nta kugira uwo duheza'' gusa biri mu magambo y'icyongereza.

Mu nzu mberabyombi yicayemo abantu benshi batandukanye bateye umugongo kamera, imbere hari abakobwa benshi batandukanye bamanitse amaboko mu buryo bw'imbyino gakondo, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mabara y'umweru ndetse n'umutuku, cyanditseho amagambo yandikishije umutuku.

Abantu benshi bicaye muri sale, bakurikiye imbyino gakondo ziri kubyinwa n'ababyinnyi bateze amaboko mu myambaro y'umweru n'umutuku, hagati yabo hari akayira kerekeza ku rubyiniro gasa ubururu ndetse n'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye, biganjemo urubyiruko, abari imbere bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda akangurira urubyiruko kwirinda sida, agira ati "urubyiruko ni mwe hazaza heza h'Urwanda, irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi".

Abantu bane abamansera batatu biteze udutambaro tw'umweru bambaye amarinete ku maso, bambaye amataburiya y'umweru. Bari kumwe n'umugabo bisa n'aho ari minisitiri w'ubuzima cyangwa se undi ufite icyo ashinzwe kubijyanye n'ubuzima, ari gukora umwe mu ntoki.

Icyapa gisa umweruru cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ritukura, hari umukobwa ufite imisatsi myinshi uri imbere muri kamera wambaye amaherena, igice cyo hasi cye ntabwo kigaragara neza yambaye agapira gasize ibara ry'iroza.

Abagore benshi batandukanye bari mu myaka itandukanye gusa bicaye bateye umugongo kamera, bicaye mu gashede ku gasima bahanze amaso iruhande rw'iburyo bwa bo, inyuma yabo ku gikuta hari amagambo yanditse mu ibara ritukura hagahera umubare kane ndetse n'inyuguti ya ca.

Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo irindwi na mirongo irindwi n'umunani, ijisho rimwe rirapfutse ripfukishije igipfuko cy'umweru, yambaye ingofero y'umutuku aramwenyura areba muri kamera, gusa igice cyo hasi ntabwo kigaragara haragaragara umutwe gusa.

Abagabo babiri bambaye amakositimu asa gusa karuvate zigatandukana, umwe umukara undi ubururu ku mashati y'umweru asa, umwe yambaye amarinete, bombi bahanze amaso imbere bakoranye mu biganza bafite ibipapuro mu ntoki bari gufata ifoto.

Abantu babiri batandukanye umugabo ndetse n'umugore, bahagaze hasi hasa ibara ry'umukara, bahagurutse ku ntebe z'umweru, bahagaze imbere y'icyapa cyandikishijeho amagambo y'umukara gisa ibara ry'umweru hose, ariko ayo magambo yanditse mu rurimi rw'lcyongereza.

Mu cyumba cy'inama, abakobwa bari mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, bigaragara ko bakurikiye inama, biganjemo bambaye imyenda y'imyeru hejuru, imbere yabo ameza hari n'abiri, atwikije ibitambaro kimwe gitukura, ikindi gisa iroza, bombi bahanze amaso imbere bari gukurikirana ikiganiro.

Abagabo babiri bambaye amakositimu y'umukara, umugabo umwe aricaye undi arahagaze, uhagaze afite ubwanwa bukeya n'inzobe afite umusatsi uringaniye, ahagaze muri kamera ndetse na mugenzi we wicaye ahagaze muri kamera, yafatanyije ibiganza bye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ikigina, cyanditseho amagambo mu mabara y'ubururu, hejuru hari inyuguti ya r ,h,i ndetse a, hirya iburyo hakaba hari akarango k'umuntu umeze nk'uri muri siporo ubona abantu babiri b'icyatsi ndetse n'ubururu handitseho amagambo atandukanye mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa cy'ubururu hose cyanditsemo inyuguti ya ha hagati yacyo hakabamo ibiganza bibiri bifatanye hagahera inyuguti ya r, hasi yacyo hakaza ijambo ryanditse mu cyongereza ariko byandikishijwe ibara ry'umweru bigaragara yuko ari ibijyanye n'ubuzima.

Umugore uri mu kiro cy'imyaka hagati mirongo itatu n'umunani na mirongo ine n'ibiri, asutse imisatsi, yambaye iherena ku gutwi, yahindukiriye ku ruhande rwe rw'ibumoso, aramwenyura ariko ntiyerekana amenyo, yambaye agapira k'ubururu ariko hasi gutukura mu gatuza ntabwo hagaragara.

Ni icyapa cy'icyatsi kigaragaza gutera k'umutima cyanditseho umubare gatatu andi magambo yanditseho yanditse mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza hasi hariho akamenyetso kagaragaza ugutera k'umutima aho karangirira hakaba hari agashushanyo k'umutima w'umweru.

Ni icyapa kigaragaramo ibara ry'umukara hejuru ryanditsemo amagambo y'ururimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru, kiragaragaraho abantu batanu batandukanye gusa bisa naho hari icyo bashinzwe mu buvuzi, ayo magambo y'icyongereza yanditseho ugenekereje mu kinyarwanda ashatse kuvuga ngo kutagira uwo duheza cyangwa se kutagira uwo dusiga inyuma.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo ufite umusatsi mukeya uringaniye, yambaye ishati y'umukara n'urunigi mu ijosi, yambaye isaha y'umweru, yambaye n'impeta ku rutoki rwa musumbazose, afite icyapa, umugore bari kumwe yambaye ikote ry'umukara n'agapira mo imbere karimo amabara ry'umweru n'umukara, afite umusatsi mwinshi, bombi barareba imbere muri kamera, bafite icyapa mu ntoki.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyiganjemo amabara y'ubururu ahagazemo abantu babiri batagaragara amasura neza gusa igice cyo ku munwa kigaragara ariko cyambaye agapfukawa k'ubururu, uwo nguwo ni umukobwa uhagaze areba muri kamera, hakurya yahagaze umuganga wambaye ga z'umweru wambaye itaburi y'ubururu ufite igikoresho cy'umukara mu ntoki arimo arakanda bisa nawe yeherekeje ku murwayi uryamye ku buriri.

Icyapa gitukura kirimo ibara ry'umweru hasi ririmo ikirangantego cy'u Rwanda hakandikwamo ijambo mu ibara ry'umukara Rwanda. Hejuru hariho amagambo mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse mu ibara ry'umweru agira ati: ikigonderabuzima cya Matyazo.

Abantu benshi batandukanye, barimo abagabo bambaye impuzankano y'ubururu, bahagaze imbere y'inzu ifite amabara y'umutuku yanditseho amagambo y'umweru, hakurya yabo hari agatente gatoya k'umweru, gahagazemo abantu benshi, hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bigaragara y'uko ari nk'ikirori cyahabereye.

Mu nyubako y'ibitaro isize amarange y'umutuku ndetse n'umweru ikagira amadirishya y'ubururu arimo ibirahure, hejuru hari parafo isize irange ry'umweru ndetse hagaragara urumuri rw'umweru mu buryo butandukanye, hasi hasize irange ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku ndetse n'ikigina hateretsemo mudasobwa imbere y'intebe y'umukara iticayeho umuntu.

Inyubako y'ibitaro isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'ubururu, ifite umurasire imbere, yanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda bakoresheje ibara ry'ubururu agira ati;"Inzu y'ababyeyi."

Muri koridori y'inzu yo kwa muganga isizemo amarangi y'umweru ikingishije inzugi z'imbaho amatara y'umweru aracanye hejuru mu ibara ry'umweru, hari akabara k'umutuku kari hejuru hari ifoto irabambitse ku gikuta cyo ku ruhande rw'ibumoso.

Mu nyubako yo kwa muganga isize irangi ry'umweru harimo ibitanda byinshi bitandukanye, bisasheho uburiri bw'umweru, hagaragaramo amashuka y'ubururu, harimo inzitiramibu z'umweru zigiye zimanitse ariko zizinze, inzira itandukan ibyo bitanda irasa umutuku.

Ni inyubako yanditseho amagambo yo mu mpine y'icyongereza ariko munsi yayo hakaba uburyo bwayo burambuye bugira buti,: " Rwanda cancer center.'' Hasi yaho imbere gato hari ikivaze gitukura giteyemo ikirabyo, gitetse mu tundi turabyo mu busitani, iruhande mu buryo bw'iburyo hari umugabo uri gusohokamo w'umusirikare wambaye aka gofero n'impuzankano ya gisirikare.

Ni inyubako bigaragara ko ari ngari rwose ariko bisa n'aho ari iyo kwa muganga, irimo intebe ebyiri za karambarara cg se zitambitse zisa ibara ry'umuhondo zikagira amaguru y'umukara, hasi hayo harasa ikigina gusa, hanyuma hejuru hariho amatara abiri, ndetse hariho amatiyo abiri bigaragara kosa ibara ry'icyatsi, imbere hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako z'ibitaro zitandukanye zisakaje amabati y'umutuku zisize irangi ry'umweru, zifite ubusitani imbere buconze neza, hariho n'indabyo ziconze neza. Hari abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze bigaragara ko bategereje serivisi z'ubuvuzi.

Iyi inyubako isize amarangi y'umuhondomo mo imbere imanitseho isaha ku ruhande rwo hagati, isaha y'urushinge, imanitsemo isakazamashusho zo mu bwoko bwa fulati irimo intebe zitandukanye zifite amapine ndetse n'ibindi bikoresho bigaragara yuko ari kwa muganga cyangwa se ku ivuriro.

Mu nyubako bigaragara ko itanga ubufasha bujyanye n'ubuvuzi isize irangi ry'umwe imbere harimo akabati karimo imiti itandukanye hari n'ikindi gikoresho gisa umweru harimo imiti ifite amabara y'umutuku ifite amabara y'umweru n'indi itagaragara neza ariko bigaragara ko ari ifashishwa mu buvuzi.

Ni saro isize amarangi y'umweru iteretsemo intebe zifite imifariso y'ikigina ameza atatu y'amabara atandukanye harimo umukara, umweru ndetse n'irindi bara rimwe hateretseho akavaze karimo akantu kameze nk'akarabyo k'icyatsi impande hari ikirabyo kigaragaza ibibabi by'icyatsi ndetse hirya no hino hateretse andi mavaze arimo ibirabyo by'icyatsi.

Mu cyumba cyo kwa muganga abantu batandukanye barimo abarwayi ndetse n'abaforomo, uri imbere ni umugore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo itatu n'umunani, yambaye umupira nako n'itaburiya y'ikigina, yambaye n'agapfukamunwa k'ubu

Hanze y'inyubako y'ibitaro igeretse, isize amarangi y'umweru, umutuku, ndetse n'akabara k'umuhondo, imbere yayo hari ibyatsi, ubwo ni mu mbuga hayo, hashinzeho amatara kandi menshi, atanga urumuri mu gihe cya ninjoro, hanze y'iyo nyubako igicu ni ubururu, kirimo uducu dutoya tw'umweru.

IInyubako zigiye zitandukanye ku ruhande rw'iburyo hari inyubako igeretse rimwe munsi harimo abantu batandukanye ikagira urugi rw'umutuku iruhande rw'ibumoso. Ni inyubako y'umukara n'umweru ifite amabati atukura, hari igiti kitagaragara neza gitendera mu busitani hari n'ubusitani hasi kandi bw'icyatsi buconze neza.

Inyubako igeretse kane isize irangi ry'umweru, buri hantu hose igerekeye hari irangi ry'ubururu, hari umugabo uhagaze imbere hagati y'amamodoka, yambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umukara, yamanitse akaboko k'iburyo ameze nkuri gutunga ku modoka, impande ze haparitse imodoka nyinshi zitandukanye.

Mu nyubako yo kwa muganga, abantu benshi bicaye ku ntebe ziteye ku murongo, harimo umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, witeze agatambaro k'ubururu, wambaye agapfukamunwa. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru ariko wambariyemo undi mupira w'amaboko maremare, wambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'inkweto z'umukara, yakebutse areba uwo mukobwa.

Inyubako itagaragara yose isize irangi ry'umutuku igaragara amadirishya atatu, hejuru yayo handitseho ijambo mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'icyatsi, naho imbere yayo hari ubusitani buconze neza burimo ibirabyo bitandukanye, hari agace karimo imirabyo byubakiye ariko bitagaragara byose.

Mu nyubako y'ibitaro isize amarangi y'umweru hahagazemo umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi bigaragara ko ari umuforomokazi ufite telefone mu mufuka w'inyuma umusatsi we uragwa mu bitugu ni umukara yambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso amaguru ye ntabwo agaragara yateye umugongo kamera ari gutambuka yerekeza hirya.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umuhondo umubyeyi aryamye ku gitanda cy'umweru gisasheho matora y'ubururu umuforomokazi amwunamye hejuru wambaye itaburiya y'umweru amarinette ufite umusatsi udasutse mbese wa natirere usanzwe yambaye gants z'.umweru ameze nk'uri kumutera urushinge.

Ni abaforomokazi batandukanye batandatu, bombi bazamuye ibipfunsi mu buryo butandukanye bigaragara ko bari gufata ifoto, inyuma ya bo hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, hasi y'iryo jambo harindi jambo ryanditse mu ibara ry'umukara, hasi y'iryo jambo ry'umukara, hari andi magambo ariko atagaragara neza ari inyuma y'abo bakobwa yanditse mu ibara ry'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, abantu batatu barimo umuganga wambaye agapimo gapima gutera k'umutima, wambaye itaburiya y'umweru, ari gupima umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'itatu n'itanu, wambaye ubusa hejuru wambaye ipantaro y'umukara.

Mu nyubako yo ku bitaro isize amarangi y'umuhondo hicayemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru mw'imbere wambaye umupira w'umuhondo wicaye ku gatebe gasa icyatsi yazamuye amaguru ,agatebe gafite amapine ,areba imbere muri kamera yafatanyije amaboko ye yambaye isaha y'umukara yamwenyuye afite agasatsi gake.

Mu nyubako y'ibitaro isizemo irangi ry'umweru yakamo amatara hejuru hayo nayo n' umweru ifite ibitanda bitandukanye by'abarwayi buri gitanda kigiye kiriho umurwayi irimo umuforomo wicaye ku gitanda wambayeitaburiya y'umweru hari umwana wiciye mu kagare wambaye agapira k'icyatsi .

Abantu batanu abagore bane ndetse n'umugabo umwe bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye ariko itagaragara yose ikingishije inzugi z'umweru, umugabo ubarimo hagati yambaye agakoti k'umukara, amaboko ni umweru bivuze ngo yambariyemo agashati, abandi bagore batandukanye bamuhagaze iruhande.

Mu nzu isa nah ikorerwamo ubuvuzi harimo intebe eshatu z'umukara zihagaze kutwuma zombi zihagaze imbere ya buri meza asa umweru n'umutuku hejuru ya buri meza hariho televiziyo cyangwa itsakaza amashusho yo mu bwoko bwa flat iriho umugabo wambaye uturinete zombi zigiye ziriho abagabo ariko batagaragara amasura yo hasi bagaragara imitwe gusa.

Mu nyubako irimo ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo n'ingwa y'umweru, harimo abantu batandatu batandukanye harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ahagararanye n'umwana wambaye impuzankano y'icyatsi ariko utagaragara amaguru. Uwo mwana abumbatiye ikibumbano bigaragare yuko ari inzasaya ziriho amenyo. Mwarimu arimo aramukorezaho ikaramu cyangwa se ingwa bisa naho arikumwigisha ibijyanye n'amenyo.

Ikigonderabuzima cya Kigina, kiragaragaraho umugore uhetse umwana wambaye akagofero k'umutuku, uwo mugore ahagaze ku ruhande, bisa nk'aho ahagurutse kugasima yari yicayeho ategereje kwinjira mu kigo, imbere amarembo arafunguye.

Icyumba k'ibitaro kiri mu ibara ry'ubururu, ahandi hose hasize irangi ry'umweru, hejuru hari parafo y'umweru harimo igitanda cy'ubururu ariko nta muntu ukiriho, hejuru y'icyo gitanda hariho insakazamashusho n'akandi gapima uko umutima utera, hejuru yabyo byombi hari isaha y'urushinge.

Inyubako y'umweru yanditseho amagambo mu rurimi rw'igifaransa, tugenekereje mu kinyarwanda asobanuye ngo kaminuza nkuru y'u Rwanda, hari umugabo uri guturuka imbere yayo, wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo aramanuka, iruhande rw'iyo nyubako, hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Ni inyubako iri mu ibara ry'umweru, irimo abantu benshi batandukanye, harimo abaje kuvurwa, ndetse n'abari kuvura, umukecuru wicaye mu kagare, ahagararanye n'umuforomokazi, ufite imisatsi igera mu bitugu, wambaye iby'umweru gusa, ari kumuha serivisi z'ubuvuzi.

Mu nzu ikorerwa imyitozo ngororamubiri iteye amarangi y'umweru, hasi hayo harasa umukara, imanitsemo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo igikoresho cya ariteri nini, irimo kandi ahantu baryama harimo akabara k'umukara ndetse n'akandi k'umutuku bagiye guterura ariteri, irimo n'utundi dukoresho twinshi dutandukanye bifashisha mu imyitozo ngororamubiri.

Mu nyubako y'ivuriro isize irangi ry'umweru irimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe z'ubururu ndetse n'ibikoresho by'umukara, imbere ni aho bakirira abantu ahazwi nka resebusiyo mu ndimi z'amahanga.

Uruhande rw'imbere y'inyubako isize amarange y'ikigina, amarange y'umutuku handitseho amagambo atukura hariho ibirahure byinshi, hasi haragaragara ibimera ariko bitagaragara aho biteye hagaragara imitwe gusa by'icyatsi kibisi.

Umuganga utagaragara mu maso ariko bisa n'aho ari umugabo, wambaye imyenda y'akazi, irimo itaburiye, ikarita, ga, ndetse afite urushinge mu ntoki ari gutera umurwayi, bisa n'aho yaje gufata urukingo.

Inzu yakamo amatara, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Imanitsemo amarinete menshi atandukanye, hashushanyijeho umukobwa wambaye amarinete agaragaza amaso, ufite imisatsi myinshi, bigaragara ko ari umuzungu, iruhande rwe hari undi wambaye itaburiya y'umweru, wamanitse akantu k'umukara, wambaye amarinete y'umweru nawe.

Igice k'imbere cy'inyubako isize irange ry'umuhondo ifite za kositara ikinze n'inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya, hejuru y'iyo nyubako handitseho amagambo mu buryo bw'impene ariko hakoreshejwe ibara ry'umweru ijambo ryo hejuru riragura riti ca, a, pa, a, e ndetse na sa, munsi hari ijambo rirerire ryanditse mu magambo y'umweru.

Ubusitani bwiza buconze neza buhagazemo ibiti bibiri by'imikindo, hirya ubwo busitani bukijwe n'indabo nziza z'ubwoko bwa emutiyeni ziconze neza mu buryo buringaniye, hakurya yaho hari ibiti byinshi bitanga umuyaga muri ubwo busitani.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibisa umweru, ubururu, umutuku ndetse n'andi mabara, hasi yaho hari uburiri busasheho ishuka y'umweru buriho agasego k'ubururu, hasi y'aho ubwo buriri buteye, hari ibara ry'ubururu gusa.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru kigaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye , harimo nk'ibyifashishwa muri siporo yo kwirukanka abantu bananura amaguru, harimo igitanda cy'umweru gifite amapine iruhande rwacyo hari ibindi bikoresho nk'agakoresho bifashisha bareba ugutera k'umutima.

Hanze y'igipangu cyubakije amatafari ahiye mu busitani bw'ibyatsi bikeya n'indabyo nkeya hashinzemo icyuma k'ikicunga gifite umutambiko hejuru uriho ibyicunga biriho iminyururu biri mu mabara atandukanye, harimo icyatsi ndetse n'ubururu, hagati y'iki cyuma harimo icyuma k'ibara ry'icyatsi.

Inzu igeretse ifite irangi ry'umuhondo werurutse, ifite agashede imbere gakikijwe n'ibyuma by'umweru, itiyo ku ruhande imanura amazi kuri ako gashede, ikagira icyapa imbere kiriho umugore utwite n'amagambo acyanditseho hagira ati "inzu y'ababyeyi ni impinja"

Icyapa cy'umweru n'umukara cyanditseho amagambo y'umukara gishinze ku biti by'umukara, gihagaze imbere y'inzu isakaje amabati y'icyatsi yubakishije amatafari ahiye, hasi y'icyo cyapa hamennye amabuye amenaguye mu buryo bwa konkasi.

Mu nyubako yo kwa muganga isizemo irange ry'umweru, harimo intebe zifite ibara ritukura zegamirwa, harimo uburiri bw'ibara ritukura burambuyeho akantu k'umweru. Harimo kandi ameza harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Inyubako yubakije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru hejuru naho muri iryorangi hakandikwaho amagambo mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati: ''Ikigo nderabuzima cya Rwerera. '' Naho imbere y'iyo nzu hari ibirabyo byiza biconze neza bya emutiyene by'umuhondo ndetse n'iby'icyatsi cyiganjemo umweru.

Ubusitani buconze neza indabyo, zogoshe z'ubwoko bwa Emutiyeni harimo ibiti bibiri by'imikindo bidekoje utuntu tw'umutuku hasi, hirya hari igiti kinini kizana umuyaga ndetse n'igicucucucu.

Ni inzu ndende kandi ngari igeretse rimwe, isakaje amabati y'ubururu, ifite bingaro ku ruhande, iyo bingaro ihagazemo abagabo batanu, imbere y'iyo nzu hahagaze abandi bagabo bane, imbere yayo nanone hari imodoka iparitse.

Mu nyubako y'umweru, isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya y'ibirahure by'umweru gusa, hateretsemo ibikoresho bimeze nk'ibikoresho bifasha mu myitozo ngorora mubiri by'ubwoko bwa riteri bifite ibara ry'umukara, bimwe biteretse hejuru ibindi biteretse ahagana hasi.

Mu cyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru wijimye, harimo igitanda gisashe n'amashuka y'umweru, hakurya yacyo hariho agapimo kameze nk'insakazamashusho gapima gutera k'umutima, hejuru yako hariho televiziyo cyangwa se insakazamashusho yo mu bwoko bwa furati, yaka ariko idafite ikindi kintu iri kugaragaza.

Inyubako eshatu z'ibitaro ebyiri zubatse mu buryo bw'ikiziga, zombi zihuriye kuba zifite amabara y'ikigina ndetse n'umutuku, zikingishije ibirahuri, imwe yubatse mu buryo bw'impara, imbere yazo zombi hari ibyatsi biconze neza ndetse n'igiti kimwe.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo igitanda cy'umweru, gifite umusego w'umweru, gisashe amashuka y'umweru, impande hose n'umweru, ku ruhande hari agatereviziyo gapima gutera ku kumutima w'umurwayi, hejuru ho gatoya, hari akadirishya k'umweru.

Inyubako y'ibitaro isakaje igisenge g'itukura isize irangi ry'umweru hejuru, hasi igasiga iry'umukara ikingishije inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya, irimo irasohokamo umuntu wambaye umupira w'umweru hejuru n'akajipo karimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku ,imbere yayo harapavumye ,hari idarapo kandi ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse idarapo ry'umweru. iyo nyubako imanitseho icyapa kiriho intare ebyiri zishushanyije zihagaze nk'abana.

Inyubako y'ivuriro isakaje amabati y'ubururu yubakije amatafari ahiye ihagazeho abantu benshi batandukanye abandi baricaye yanditseho ijambo mu ibara ry'ubururu rigira riti inzu y'ababyeyi, naho imbere yayo ntabwo hagaragara hose.

Inyubako nini y'umweru, ifite ikirabyo hagati muri yo, ikagira amatara ahagana hejuru atanga urumuri mu nzu, ikagira esanseri, ikagira hasi hasa ibara ry'ikigina mbese hakoresheje amakaro.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisizemo amarangi y'umweru kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'abarwayi; harimo ibitanda bibiri igitanda kimwe gisa uburu kiryamyeho umusaza gifite ibyuma by'umweru bigikikije; hirya hari umwana wambaye agapira k'umweru waryamye agaramye wahinnye amaguru uri kureba aho umusaza ari.

Mu nzu y'imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho byinshi bitandukanye n'ubwo iyi nzu itagaragara igisenge ndetse itanagaragara yose, ibikoresho birimo byiganjemo amariteri, bikaba ari ibikoresho bikoreshwa baterura mu buryo bwo kubaka umubiri mu buryo bwo kugira agatuza ndetse no kugira umubiri ukomeye.

Mu nyubako isize amarangi y'umweru hamanitsemo ifoto igaragaza imibiri y'abantu babiri, mbese bigaragara ko aro iyo kwigiraho ibijyanye n'ubuvuzi. Harimo mudasobwa imwe iteretse ku meza afite amaguru ari akantu k'umukara, ndetse iyo mudasobwa irareba ku ntebe ifite ahantu begamira hasa ikigina.

Umusore utagaragara mu maso neza ufite umusatsi muke uringaniye n'ubwanwa buke biringaniye yambaye itaburiya y'ubururu yafashe kuri mudasobwa arareba ku yindi mudasobwa nini imbere igaragaza amashusho y'umubiri w'umuntu mu buryo bw'ikoranabuhanga mudasobwa iteretse ku meza y'umutuku.

Inyubako y'ivuriro isakaje amabati atukura, imbere yayo hari ibyapa bibiri byanditseho amagambo, mu gashede k'iyo nyubako hasize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu hateretsemo intebe zitandukanye z'ibara ritukura.

Inyubako y'ibitaro isize irangi ry'umweru igeretse rimwe imbere yayo hari ubusitani buriho indabyo ndetse na jaride ikase neza imbere yayo hirya hari ikigega cy'umukara kimanitse hejuru imbere y'ubusitani hicaye umwana wicayeye m'akagare k'umukara.

inyubako zubatse ahirengeye harimo iyubatse mu buryo bw'impara, indi kubabaka mu buryo bw'uruziga, iyubatse mu buryo bw'impara isize amarangi y'umutuku ariko wererutse, imbere yayo hari jaride cyangwa se ubusitani burimo indabyo nyinshi zigiye zitandukanye, hari akayira bigaragara ko ari ko abantu banyuramo bagana iryo vuriro.

Inyubako y'ikigo nderabuzima itagaragara inguni zombi, yubakije amatafari ahiye mu gashede kayo hasize irangi ry'umweru ikikije inzugi z'ikigina, imbere hayo harapavomye ifite ibirabyo imbere yayo n'ubusitani butoya, inyuma yayo ho gatoya hari ibigega by'umukara birebire, hirya yo hari indi nyubako isakaje amabati y'umutuku.

Mu nyubako yo kwa muganga isize amarangi y'umweru hejuru uhaye igisenge kirasa umweru hariho amatara menshi ari kumurika, umukobwa ateka Kamera umugongo wambaye imyenda y'ubururu ufite imisatsi myinshi ifungiye inyuma ari gutambuka atera intambwe yambaye inkweto z'umukara ari kwerekeza mu bandi baganga.

Mu nyubako isize amarangi y'umweru, mudasobwa iteretse imbere y'umukobwa, wambaye agapfukamunwa k'umukara, amahena ku matwi, afite imisatsi itendera mu bitugu, yambaye itaburiya y'umweru, atumbereye mudasobwa, bigaragara ko hari ibyo arimo arayikoraho.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisa umweruru hose kirimo ibitanda bibiri bisa umweru ndetse n'ubururu bifite amapine imbere y'ibyo bitanda hagati yabyo hari akameza karekare hejuru ya buri gitanda hariho agapimo kagaragaza ugutera k'umutima gateye nka televiziyo.

Ni inzu y'imyitozo ngororamubiri, igaragaramo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu myitozo, harimo nk'ako bahagararaho birukanka mu gukora imyitozo yo kwiruka, harimo amaritere baterura mu kugira ngo bubake umubiri, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako y'ibitaro isize irangi ry'umweru yanditseho amagambo imbere manini mu rurimi rw'icyongereza, hahagazemo umuganga wambaye itabiriye y'umweru, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara wafashe mu mufuka afatishijemo akaboko k'ibumoso.

Inyubako y'ibitaro igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, irimo amadirishya y'ibirahure, hejuru iriho icyapa kirekire cyanditseho amagambo manini mu ibara ry'icyatsi, hasi yayo haparitse imodoka enye zitandukanye, hari umuntu uri mu mutaka wa MTN cyangwa se Tigo, uri gucuruza.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisizemo irangi ry'umweru harimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo udutebe tw'umutuku ,uburiri bw'umutuku burambuyeho akantu k'umweru ndetse hirya hari akameza gateretseho intebe iruhande iyo ntebe n'umutuku iyicunga ifite amapine bigaragara yuko hateretse imiti y'abarwayi.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga aho tubona umuganga wambaye imyenda y'ubururu hose ufite igitabo mu intoki n’agakaramu mu intoki yagihanzeho amaso undi, aricaye yambaye itaburiya y'umweru agapimo gapima gutera k'umutima mu ijosi ahanze amaso umukobwa afunze shinyo arimo arasa n'umubaza indwara yaba afite uko imeze.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'irindwi na makumyabiri n'icyenda utagaragara umutwe, igice cyo hasi guturuka munsi y'agatuza ntabwo kigaragara, yambaye ubusa hejuru afite utubuntu tumuri ku rutugu rw'iburyo ak'umutuku ndetse n'ak'ubururu.

Mu nzu isize amarangi y'umweru, umuntu wicaye ku buriri utagaragaza igihimba cyo hejuru, umutwe ntugaragara ndetse n'amaguru ntagaragara, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku, yambara agakabutura kagufiya, yicaye ku buriri afite agapfuko, ahagana munsi yagashyizeho ibiganza bye byombi.

Mu byatsi by'ubusitani biconze neza harimo ibikoresho bitatu bitandukanye, bibiri muri byo ari nabyo binini birasa ibara ry'umutuku, kimwe muri byo kirasa ibara ry'umweru ariko gacupa gapfundikije umufuniko w'umweru, kimwe muri bya bikoresho gishushanyijeho akamenyetso k'umusaraba mw'ibara ry'umutuku, inyuma y'ibikoresho hahagaze abantu ariko batagaragara ibihimba byo hejuru, amaguru yabo Niyo agaragara gusa mu ibara ry'umukara.

Umugabo utagaragara isura wambaye umupira w'ikigina, agakabutura kagufiya k'umukara, akaboko kamwe yafatishije mu mbavu, akandi yagafatishije ku kaguru yamanitse ku cyuma ameze nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni inkono yifashishwa n'abantu bafite ikibazo cyo gutambuka ubwo ndavuga abageze mu za bukuru cyangwa se undi wese wahuye n'impanuka, ni inkoni imenyerewe ku izina ry'imbago ifite umutwe w'umukara, ifite akantu bafataho k'umukara ndetse n'aho ikoreza mu nkokora cyangwa se aho ifata mu nkokora umurwayi harasa ikigina.

Umusore mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri niitanu na makumyabiri n'umunani, ufite ubwanwa bukeya buringaniye, yambaye agasengeri k'umukara, yambaye akantu k'icyatsi ku kuboko kw'iburyo, yicaye asutamye, ntabwo igice cyo hasi cye kigaragara.

Abantu babiri batagaragara amasura, umwe wambaye umupira w'umukara urimo urakanda undi uryamye amukanda ku ivi akoresheje agatambaro k'icyatsi. Uryamye yazamuye akaguru k'ibumoso aragahina akandi arakarambura, uwo muntu arimo aramuka..

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'ibiri na makumyabiri n'itanu, w'umwiraburakazi wambaye agasengeri uri mu imyitozo ngororamubiri, wateye umugongo kamera, uboshya imisatsi ifungiye hejuru, wambaye ikoteri mu gutwi yahindukiye areba ku ruhande rw'ibumoso ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragara igihimba cyo hejuru, ariko ugaragaza ipantaro n'ikiganza kimwe gifashe ku ivi, ariko gifatiyemo akantu mo imbere kameze nk'aho ari ka bande wagira ngo ni ahantu hari igikomere, ibirenge bye ntabwo bigaragara, ariko birasa nk'aho ari umugabo, cyangwa se umusore.

Umukobwa utagaragara igihimba kuva mu ijosi kugeza hasi, ugaragara amaboko n'igice cy'umutwe ariko wateye kamera umugongo, aboshya imisatsi ifungiye inyuma ifungishije akabano k'umutuku, yamanitse amaboko arayahuza hejuru afatanya udutoki areba ku ruhande rwe rw'ibumoso.

Akagare k'abantu babana n'ubumuga bwo kugenda gafite aho begama, gafite inyuma ahantu bafata barimo barasunikira umuntu ubana n'ubumuga, gafite amapine atandukanye ubwo ni amapine ane abiri matoya y'imbere n'abiri manini y'inyuma; ariko ayo y'inyuma akagira udupine ku ruhande bagenda bafataho basunika.

Umukobwa uhagaze areba imbere ateye umugongo kamera, yambaye ipantaro y'umukara ariko ku maguru ye ntabwo hagaragara, yambaye isutiye y'umweru afite imisatsi myinshi, yamanitse amaboko ahagaze kumazi.

Umugore utagaragara isura ndetse no hasi guturuka ku kibuno, yambaye ishati y'umweru, yambara urugi mu ijosi ry'umweru, akaboko ke k'iburyo yagatambikishije agakoresha ku kaboko k'ibumoso akoresheje agatambaro k'ubururu, yambaye impeta.

Umuntu utagaragaza igihimba cyo hejuru harimo n'isura ndetse n'ibirenge bikaba bitagaragara, wambaye agakabutura k'umukara kagufiya, wambaye isaha y'umukara ku kuboko ku ibumoso, wahurije ibiganza byombi ku ivi rye bimeze nk'aho arimo ararikanda.

Uwo musore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'icyenda, wambaye agasengeri k'umukara n'agakabutura k'umukara, bisa n'aho ari mu myitozo ngororamubiri ariko isura ye ntabwo igaragara neza.

Akamezaza kataruzura bakeguye baragashinga, maze bafati ibipimo byako bijye bitandukanye, igipimo cya mbere ni santimtero mirongo itandatu n'umunani, igipimo gikurikiye ni santimetero mirongo icyenda n'imwe, igipimo gikurikiyeho ni santimetero ijana n'imwe.

Abantu babiri batagaragara mu maso ndetse n'amaguru ya bo atagaragara neza, hari uryamye ku buriri bigaragara ko asa n'aho ari umukobwa, umuganga wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umugabo yamufatishije amaboko yombi ku ku ivi rye, bisa n'aho n yagize ikibazo akaba arimo aramuvura.

Ku butaka bumenya butubuye cyangwa se butavomesheje ibara ry'ikigina hari inkweto ebyiri z'umukara ndende zite nka butine zipfungishije amarase y'umukara, urukweto rumwe ruriho agapapuro kandikishijeho ijambo ry'umukara rigira riti "Bato".

Umugabo uri kwisuka amazi mu isura yafunze amaso, wambaye akantu ku kuboko, wambaye umupira w'icyatsi, ufite ubwanwa bukeya buringaniye, utagaragaza igihimba cyo hasi, ariko w'umukinnyi bigaragara ko ari uwa basikete.

Abantu babiri batandukanye umukobwa mugero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu makumyabiri n'umunani uboshye imisatsi wunamye areba ukuboko k'umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri na mirongo itatu, uwo musore yambaye masike mu isura hose ku buryo atagaragara ukuboko kwe kuriho bande kuva mu nkokora kugeza hasi.

Umuntu utagaragara mw’isura neza, gusa agace gatoya kagaragara guturuka ku kananwa afite ubwanwa bukeya, yambaye agasengeri igice cyo hasi ntabwo kigaragara ari kugorora amaboko ye bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, witegereje neza ubona ko ari umugabo uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu n’itanu y'amavuko.

Umupira w'amaguru uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara iruhande rYawo hari godiYo y'umukara, umutuku ndetse n'umweru ifungiye rase z'umukara iruhande rwabyohari agapimo gapima gutera k'umutima k'umukara gahiniye inyuma ya balo.

Umuntu utagaragara igihimba cyo hejuru, wambaye agakabutura k'umukara isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, wunamye arimo arakanda ku ivi rye ry'ibumoso ahasa n'ahagize ikibazo akaba arimo arahasubiza ku murongo.

Mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu na mirongo itanu wambaye isaha ku kuboko, wambaye umupira w'ikigina, agakabutura k'umukara, agaramye hasi akaguru ke yakazirikishije umugozi agashyira ku byuma bishinzwe gukoresha siporo arakarambura ak'ibumoso karahinnye yambaye inkweto z'umweru.

Umusore mu gihe cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu, makumyabiri n'umunani w'umuzungu ari mu imyitozo ngororamubiri yambaye agasengeri k'umweru, yambaye agakabutura k'umukara hasi yambaye inkweto za siporo, iruhande rwe hari imbuto zitandukanye harimo n'ibibiribwa bya karoti.

Ibikapu bibiri kimwe gifunguye gifite amabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru hasi, kirimo imiti igiye itandukanye y'amabara y'ubururu, umutuku, umuhondo, mu macupa ndetse no mu dushashi hose harimo imiti, bigaragara ko no mu kandi gafuka ko hasi harimo imikasi n'utundi dukoresho two wa muganga.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri nibiri na makumyabiri n’itanu, yicaye hasi yahinnye akaguru ke k'iburyo agakoza ku itako ry'ibumoso, yambaye ipantaro y'umweru, yambaye n'agasengeri kagufiya k'umweru. Yigonze ku ruhande rw'ibumoso afatisha amaboko yombi ku kirenge, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu uri mu ibara ryijimye gusa bigaragara ko ari umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yateye akaguru k'iburyo imbere ak'ibumoso akagarura inyuma afatisha ikiganza cy'ibumoso hasi umutwe arawubika, ari kwigorora bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umuzungu utagaragara igice cyo hejuru ndetse n'igice cyo hasi guturuka munsi y'amavi hatagaragara, afite umuswaro mu ntoki awufatishije ukuboko kw'iburyo, umuswaro urasa ubururu yawukojeje ku ivi nkaho arimo arivura imvune.

Icyumba kirimo ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri birimo inkweto ndetse n'utundi dukoreshwa mu ntoki, hari akantu gateyemba umutima karimo imbuto zitandukanye zirimo inyanya, ibitunguru, n'ibindi byinshi, hari akantu gapima gutera k'umutima kari hejuru y'ako kantu gateye nk'umutima gatambitse kadahagaze kagororotse.

Agatanda ko kwa muganga bifashisha bimura umurwayi, bamuvana mu cyumba kimwe bamujyana mu kindi, kazwi nka burankari. Kanditseho ijambo arufa mu ijambo ry'ubururu, gafite ibara rigaragaza ubururu impande zombi, gafite utwenge tugapfumuyeho, hagati yaho ndetse na ho hagiye hapfumuye; ntabwo hari utuntu tuhatangiriye.

Abantu batatu umugabo ndetse n'umugore batagaragara mu maso gusa ni akana ko kagaragara mu maso. Umugabo yambaye imyenda y'ubururu bigaragara yuko ari umuganga. Ari gutunga itara umwana mu gahanga. Uwo mwana afashwe n'umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'ubururu wakenyeye agashabazi k'umuhondo. Iruhande rw'umuganga wambaye imyenda y'ubururu hari imeza itetseho ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga.

Umugabo utagaragara isura wambaye umupira w'umweru wo mu bwoko bwa Lacoste ufite ikora yarambuye ukuboko kw'iburyo afatishaho ukuboko kw'ibumoso akoresheje umuswaro usa ibara ry'ubururu bigaragara ko ari kwikanda ntabwo igice cye cyo hasi kigaragara .

Uwo mu umukobwa utagaragara umutwe gusa ufite imisatsi inagana mu mugongo, yamanitse amaboko nayo ntabwo agaragara. Yambaye agasengeri k'umukara kageze hejuru y'umukondo, yambaye ipantaro y'umukara. Akaguru kamwe k'iburyo yagashyize inyuma ye akandi agatera imbere ari kwigorora amaguru, ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri batagaragara mu maso ndetse n'ibihimba byo hasi bitagaragara, umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara w'umweru, umuri inyuma yambaye umupira w'ubururu, arasa n'uwamurebye ku kaboko nubwo isura itagaragara neza.

Igitanda cy'umukara ubusanzwe kiryamaho abarwayi kicayeho umuntu utagaragara mu maso wambaye inkweto za siporo zizwi nka godiyo, yambaye umupira w'umukara uriho nimero makumyabiri na rimwe, mu imbere yambariyemo agapira gafite amaboko maremare k'umweruru, afite akantu mu ntoki k'umukara, amaguru yombi yashyize kuri ako gatanda kandi amaguru ye yambaye inkweto.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu mabara y'ubururu, icyatsi, umweru, ndetse n'andi, hariho ibirango byo imbuga nkoranyambaga nka fesebuke. watsapu, tuwita, isitagaramu ndetse n'ibindi, hari kandi abantu babiri b'udushushanyo umwe uryamye undi umuhagaze hejuru arimo aramumasa.

Umuntu utagaragara neza mu isura ariko bigaragara ko ari umugabo ufite ubwanwa bukeya, yazamuye icupa ry'amazi arimo ararinywa akoresheje akaboko ke k'ibumoso, yambaye umupira w'ikigina ariko guturuka mu gatuza kugeza hasi ntabwo igice cy'umubiri kigaragara.

Uwo umugabo utagaragara isura yose ufite ubwanwa bukeya yazamuye icupa akoresheje agabokoko k'iburyo arimo aranywa amazi ariko icupa naryo ntabwo rigaragara neza yambaye agasengeri bigaragara ko ari mu myitozo igihimba cye cyo hasi ntabwo kigaragara guturuka mu gatuza.

Mu nzu ikorerwa imyitozo ngororamubiri umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani utagaragara isura yambaye agakabutura kagufi ya hejuru yambaye ubusa, yicaye akaguru k'ibumoso arakarambura agakozaho ukuboko kw'iburyo ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa utagaragara neza wicaye arambuye akaguru kamwe akandi yagahinye ibisa nkaho ari mu myitozo ngororamubiri yambaye agasengeri k'umweru kagufiya, akaboko k'ibumoso yakarambuye agashyira ku kirenge akandi kaboko k'iburyo agafatisha mw’ivi akaguru akagorora neza yigondamo gakeya yegera ikirenge

Igitanda kirambitse hasi cy'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, hejuru yacyo hari abagabo babiri bateruranye agatanda kariho umurwayi, bambaye imyenda itukura hasi no hejuru ndetse n'ingofero zitukura.

Umusore utagaragara isura yose, ugaragara igice gitoya cyo mu gatuza, n'amaboko yose atagaragara, yambaye agasengeri k'ikigina igice cyose ntikigaragara, aragaragara n'ivi ari mu myitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko yombi arareba ku ruhande rwe rw'ibumoso.

Mu nyubako isize irange ry'umuhondo, umubyeyi wambaye imyenda y'ibitenge wicaye ku buriri. Yicaranye n'umwana we uri mu kigero cy'imyaka hagati y'ibiri n'itatu, wambaye utwenda tw'umweru, ndetse n'amasogisi y'umweru, nawe yicaye ku buriri ku gitenge, yarebye imbere muri kamera, naho mama we, yarebye ku ruhande rwe rw'ibumoso.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga batagaragara amasura, umwe yambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara afite umupira w'amaguru mu ntoki, undi yambaye agapira k'umuhondo n'akabutura k'umukara ahagaze mu kagare kamwigisha kugenda bisa naho yagize ikibazo cy'urutirigongo cyangwa se ubundi burwayi.

Umugabo utagaragara mu isura wambaye umupira w'umweru yambaye agakomo k'umukara, yafatishije ibiganza bye byombi ku ivi rye ryambaye ipantaro y'umukara ririho akarongo k'umweru karimanutseho, urutoki rwe rwa musumbazose rwambaye impeta.

Uwo mukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'ibiri na makumyabiri n'itanu ariko utagaragara isura yose afite umusatsi mwinshi yazamuye icupa akoresheje ukuboko k'iburyo arimo anywa amazi, igice cyosi cye ntabwo kigaragara bigaragara koyasaga nkuri mu myitozo afite umwenda yiteye ku rutugu rwe rw'ibumoso yambaye isengeri.

Ni icyumba gisa n'aho ari icy'imyitozo ngororamubiri, umuhungu w'umwirabura wambaye agapira k'ubururu, yashinze ivi hasi ry'iburyo irindi akaguru aragahagarika, ari kumwe n'umugabo bigaragara ko ari umutoza w'umuzungu ariko utagaragaza mu maso, wambaye imyenda y'ikigina hejuru ndetse n'umukara hasi.

Ibikoresho bitandukanye harimo amacupa abiri y'amazi icupa rimwe ripfundikije umufuniko w'ubururu irindi ripfundikije umufuniko w'icyatsi, hasi yayo macupa hateretse igikoresho bifashisha mu kubaka umubiri kizwi ku izina rya aritere, naho iryo cupa rizingiyeho igipimo gipima uburebure, hasi yabyo hari imbuto zirimo nk'igice cy'ironji, igice cy'icunga n'izindi ndetse n'umuneke.

Agapimo ko kwa muganga gapima gutera k'umutima cyangwa se gutembera kw'amaraso n'ibindi byinshi bitandukanye mu mubiri w'umurwayi, gafite ibara ry'ubururu kugera hejuru n'aho utwo bashyira mu matwi turasu umukara, karambitse ahantu hasi h’umweru gusa kandi karahinnye ntabwo karambuye neza.

Umuntu utagaragara mu maso, wambaye agasengeri k'umukara, wicaye hasi, amaboko ye yombi yayafatishije mu birenge bisa n'aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, ucishirije witegereje neza bigaragara ko ari umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu, na makumyabiri n'umunani.

Abantu babiri batagaragaza amasura, umugabo wicaye yambaye agapira k'umukara karimo uturongogo tw'umweru uteruye aritele mu kaboko k'ibumoso, umukobwa umuhagaze iruhande ntabwo agaragara mu maso nawe, yambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, yambaye agapira k'uburu bwerurutse ndetse n'ijipo y'umukara.

Ni ikibuga cy'umukino wa basikete gihagazeho abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo abana, abakuru bisa naho bari gufata amabwiriza cyangwa se indi myitozo ishobora kuba ijyanye no gufana cyangwa se ikindi gikorwa cyabakoranyije.

Umugabo utagaragara neza mu isura washyize icupa ry'amazi ku munwa gusa igice kitagaragara ku isura ye ni agahanga ibindi byose biragaragara, yambaye igipira cy'ikigina gusa mu gatuza kugeza hasi ntabwo amashusho yacyo agaragara neza, bigaragara ko ari umugabo w'umwirabura.

Umusore utagaragara umutwe ndetse no guturuka mu matako akaba atagaragara, yambaye umupira w'icyatsi uriho akantu k'umweru imbere mu gatuza, ni umupira wo mu bwoko bwa rakosite, ateruye umupira wa vore mu ntoki w'ibara ry'ubururu ndetse n'ikigina, uwo mupira wanditseho umubare kane.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru irimo abagabo babiri batagaragara imitwe, umwe yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, undi yicaye mu gatebe akaguru yakazamuye agashyira mu bikoresho bikoresha akaguru imyitozo amaboko yombi yayahurije ku gatebe, uwo mugabo wambaye itaburiya y'umweru yamufashe ku kuboko.

Mu cyumba cy'ibitaro gisize irangi ry'umuhondo kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga, hahagazemo abaforomo batandukanye bari kureba umuntu umwe wambaye igitambaro cy'umutuku mutwe, ufite agapfukamunwa nawe umeze nkaho ari umuforomo, bombi bambaye amataburiya y'ubururu bamuhanze amaso nkaho hari ikintu kidasanzwe bari kumukorera.

Icyapa kiriho abantu benshi batandukanye barimo abakobwa ndetse n'abahungu ariko bakina imikino itandukanye, harimo abakina umupira w'amaguru, harimo abakina umupira w'amaboko, harimo abakina imikino bita gorufu, hari abakina imikino yo kwirukanka n'abandi benshi bagiye batandukanye.

Umusore utagaragara isura ugaragara igihimba, yambaye agapira k'ikigina gafite amaboko maremare bigaragara ko ari mu imyitozo, yahuje ibiganza bye byombi ku ivi rye ry'ibumoso bigaragara ko rifite ikibazo arasa n'urikurikanda, akaguru kamwe yagapfukamishije ako ari gukanda ivi aragahagarika.

Ikirangantego cy'imikino njyarugamba cy'Igihugu cy'u Rwanda, kirimo abagabo babiri umwe wambaye ubururu, undi wambaye umweru bizwi nka kimono, bambaye bombi imikandara itandukanye umwe yateruye, undi aramuhina nk'ugiye kumutura hasi.

Umusore utagaragara isura yose uri mu kiro cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, afite ubwanwa bukeya ariko bwogoshe, yambaye agapira k'umukara k'amaboko maremare, ari kunywa amazi akoresheje ukuboko kw'iburyo, ntabwo gice cyo hasi guturuka mu gatuza kigaragara.

Umusore utagaragara isura yose ugaragara umunwa gusa n'amazuru, yazamuye agako k'iburyo arimara aranywa amazi ariko icupa naryo ntabwo rigaragara ryose,, yambaye isaha y'umukara yambaye agapira k'ubururu ariko katagaragara neza, igice kinini cyane cy'umururu ntabwo kigaragara guturuka ku kaboko hejuru ku gatuza kugeza ku maguru.

Ibikoresho bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri biri ku ruhande rw'iburyo; ku ruhande rw'ibumoso hari imbuto zitandukanye; harimo iz'umuhondo, iz'icyatsi kibisi, izitukura n'izindi zirimo nka pome; amacunga, imineke ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umusore utagaragara igihimba cyo hasi wateye kamera umugongo afite umusatsi mukeya yogoshe mu mpande, yambaye isenge y'umukara irimo uturongo tw'umutuku. Ahagana hejuru ku mpera za yo yazamuye amaboko yombi ukuboko k'ibumoso agukoza ku kuboko kw'iburyo, maze kw'iburyo araguhina agukoza mu mugongo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru inyuma yayo akambara ijiri y'icyatsi ifite uturongo tw'ikigina hasi, afasha umusore wambaye isengeri y'umutuku gusa ifite ikirango imbere kiriho imibare gatanu, gatatu, zeru, kabiri, bisa naho yagize ikibazo, gusa bombi ntabwo amaguru yabo agaragara.

Abagabo babiri batagaragara neza mu isura, umwe ni munini yambaye umupira w'umutuku urimo akaziga k'umweru imbere, yambaye isaha y'umukara afite umupira wa rugubi mu ntoki, yambaye agapantaro k'umukara ndetse yambaye n'inkweto z'umukara yazamuye ikirenge nk'uri mu myitozo, uri hirya ye yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikigina nawe afite umupira mu ntoki wa rugubi.

Umusore utagaragara isura yose wararamye arimo aranywa amazi akoresheje akaboko k'iburyo wambaye isaha, yambaye umupira w'umweru yambaye na koteri z'umweru mu matwi, afite umusatsi mukeya igice cye cyo hasi guturuka mu gatuza kumanura ntabwo kigaragara.

miti myinshi itandukanye irambitse hasi, harimo ifite ibara ry'umweru, ipfundikije udufuniko tw'umweru, imyinshi muri yo iri mu dushashi, indi irambitse hasi, iteye mu buryo bwa korogati, hari ga nyinshi z'umweru zirambitse, ariko ku gahande kamwe.

Umukobwa utagaragara mu maso wambaye agasengeri k'ubururu bwerutse; ndetse n'agakabutura kagufiya k'ubururu bwerurutse; ari mu myitozo ngororamubiri yazamuka akaguru k'iburyo agafatisha amaboko ye yombi; akaguru kamwe agasiga hasi, gusa ntabwo igice cyako cyo hasi kigaragara, guturuka hejuru y'ivi.

Umukobwa utagaragara umutwe uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'ibiri na makumyabiri n'itanu utagaragara umutwe yambaye agasenge kajyara ruguru y'umukondo gatoya, yambaye agakabutura kandi kagufi cyane ari mu myitozo ngororamubiri gasa icyatsi yambaye n'inkweto zisa icyatsi yazamuye akaguru ke k'iburyo agafatisha amaboko ye yombi.

Umuntu utagaragara mu maso ndetse n'amaguru yo hasi ugaragaza igihimba gitoya gusa n'amaboko yambaye umupira w'umukara uriho uturongo tw’umweru ku kuboko yambaye isaha y'umukara hanyuma arazirika bande ku kirenge cy'umuntu nawe we utagaragara mu maso wambaye urukweto rumwe usa naho aryamye ku gitanda gisa ubururu iruhande rwe hariho umukasi n'akantu gaturukaho bande ari kwifashisha amuzirika ku kirenge.

Amasahani abiri ariho imbuto zigiye zitandukanye mbese mu buryo bw'amafunguro. Hari ndetse n'agatebo karimo imbuto nyinshi zitandukanye. Isahani imwe iriho: Inkeri, imineke, n'utundi. Naho indi sahani iriho: Amagi, inyama itukura, ingano, ndetse n'akandi kantu kamwe ko kurya. Naho igitebo kirimo imbuto nyinshi zitandukanye. Hari kandi ibikoresho bya gym cyangwa se by'imyitozo ngororamubiri.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe icupa ry'amazi ripfundikije umupfundikizo w'ubururu, ikirere kiragaragaza ubururu ndetse n'umweru, yatunze iryo cupa hejuru mbese mu buryo bwo gufata ifoto.

Ku nyubako y'ibitaro, abagabo batatu umwe wuriye urwego abandi babiri bahagaze hasi, uwuriye urwego hari ibyo agiye kwandika hejuru bimeze nko kuhasiga irangi, abasigaye hasi umwe ateruye ikijerekani cy'umutuku undi amuhagaze inyuma.

Abantu babiri ,umugore wambaye ijire y'icyatsi uri mu kiro cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'umunani na mirongo ine utagaragara neza mu maso yatunze itoroshi mu maso y'akana kari mu gihegero cy'imyaka hagati y'imyaka itandatu n'irindwi yagafatishije uku kw'ibumoso mu mutwe ari gatunga itorushi mu maso.

Mu nyubako irimo ibintu bitandukanye ku itapi y'umukara hariho ibikoresho bya siporo birimo nka ariteri n'ibindi bitandukanye. Hakaba icupa ry'amazi ripfundikije agafuniko k'ubururu, hari amasahani atandukanye ariho ibirwa bitandukanye harimo ibyiganjemo imbuto, amagi, inyama ndetse n'ibindi.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru iberamo imyitozo ngororamubiri irimo tapi imeze nk'iyo mu kibuga, umusore utagaragara neza isura wambaye umupira w'umukara ndetse n'agakaputura k'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuka akaguru ke kw'imoso agakoza ku gikoresho akoresha imyitozo ngoramubirikanda akandi agasiga hasi, umutwe we ntabwo ugaragara wose.

Umukobwa uhagaze ahirengeye, uri mu ishusho y'umukara, gusa bigaragara yuko ari umuzungu ufite imisatsi ifungiye inyuma, igice cyo hasi ntabwo kigaragara neza, yazamuye icupa ry'amazi risa ubururu, arimo aranywa amazi, araramye areba hejuru.

Kwa muganga ahagaragaramo abaganga batatu bambaye amataburiye y'umweru, hakabamo umugabo wambaye ikote ry'umukara, umwe mu baganga yambaye agapfukamunwa gasa ubururu. Barikwitegereza imbere televiziyo.

Mua nyubako ikoremoyitozo ngororamubiri isize irangi ry'umweru irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu imyitozo ngororamubiri ,harimo umusore wambaye imyenda y'umukara kuva hasi kugera hejuru uri gukora imyitozo amaboko yombi yahurije imbere ye yashinze akaguru ke k'ibumoso ak,'iburyo agashyira inyuma arimo arakora siporo.

Amacupa atatu y'umweru areshya bigaragara ko ari umuti w'ubwoko bumwe, n'amacupa maremare yanditseho amagambo atukura, agiye ababyeho igipapuro kigiye kiriho amagambo agiye atandukanye mu mabara atandukanye, harimo nk'ibara ry'umweru ryanditse mu mutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo. Hariho amabara y'umweru ahagana hasi, n'andi mabara y'umuhondo mu magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ibikoresho bitandukanye ariko birimo n'imbuto, harimo ariteri ikoreshwa mu buryo bwo kubaka umubiri, harimo icupa ry'amazi ripfundikije umufuniko w'ubururu, hari metero cyangwa se igipimo gipima uburebure giteretse aho ngaho kizingazingiye kuri ariteri.

Uwo mukobwa utagaragara isura yose yambaye agasengeri k'umukara kagera hejuru n'umukondo, yambaye akandi kenda hasi ariko ntabwo amaguru agaragara guturuka ku kibuno, yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo arimo aranywa amazi akora icupa ry'umweru, yambaye akantu k'umukara ku kuboko.

Igikapu kinini gifunguye cy'amabara y'umukara ndetse n'umutuku, mo imbere kirimo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye harimo iterwa mu nshinge, harimo ifunze mu dushashi y'amabara agiye atandukanye, harimo isa umweru, umutuku, ubururu nindi ya moko menshi agiye atandukanye.

Umukobwa w'umwiraburakazi, uri mu kigeroro cy'imyaka hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'itanu, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri kagufiya kagera hejuru y'umukondo, afite imisatsi myinshi, yunamye akoresheje agaboko ke k'ibumoso mu kiganza cye cy'iburyo, akaboko k'iburyo yagahinnye, agashyira mu mugongo yambaye ipantaro y'kigina.

Ni umuhanda wa kaburimbo imodoka iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara, ifite ibinnyoteri by'umutuku, inyuma ifite ipine ry'umukara. Iri mu muhanda igenda gusa inyuma hayo ni ho hagaragara gusa ntabwo imbere hagaragara.

Mu kibuga cy'umupira abakinnyi bambaye impuzankano ebyiri zitandukanye batagaragara imitwe; bahagaze bakikije umukinnyi wikubise hasi wavunitse wunamweho n'abantu babiri umugore wambaye amalinete ndetse n'umugabo; barimo baramupuliza umuti ku kirenge aho yavunitse.

Umusore mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri na makumyabiri nitanu yambaye agapira k'ikigina ntabwo isura yose igaragara guturuka hejuru y'umunwa arimo aranywa amazi akoresheje ikiganza cye cy'iburyo hasi he igihimba ntabwo kigaragara kuva haruguru y'umukondo.

Abantu babiri batagaragara mu maso, umuganga ndetse n'umusore wambaye imyenda y'umukara, agapantaro k'umukara hasi karimo imirongo y'umweruru igatambitseho, yahinnye akaguru ke k'iburyo barimo barakazirikaho bande ak'ibumoso kararambuye kambaye urukweto rurimo isogisi ry'umweru.

Umukobwa utagaragara neza mu maso uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, yicaye ku mukeka bakoreraho siporo imbere ya mudasobwa y'umukara n'umweru, iruhande rwa mudasobwa hari twariteri dutukura tubiri, yahinnye akaboko agakoza ku kaboko ke k'iburyo akandi kaboko k'iburyo arakarambura ari mu myitozo ngororamubiri.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye umutwe wayo wanditse mu nyuguti zitukura, munsi yawo handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu yose agiye avivuye, hashushanyijeho umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ufite umusatsi ufunze shinyo wambaye agakabutura k'umukara karimo umurongo w'umweru, yambaye inkweto za siporo zifunde rase.

umukobwa w'umwiraburakazi wambaye agasengeri kagira hejuru y'umukondo k'umutuku, wambaye ikoteri mu gutwi y'umweru, wambaye isaha y'umukara, uri mu myitozo ngororamubiri, wazamuye amaboko yombi akayahuriza hejuru, akayahina agafata mu nkokora zayo, wake butse areba ku ruhande rw'ukuboko kw'iburyo igice cyo hasi kiri guturuka mu rukenyerero ntabwo kigaragara.

Iyi nyubako ikorwa imyitozo ngororamubiri irimo abantu babiri batandukanye, umugabo utagaragara neza igihimba, wambaye agapfukamunwa ufite uruhara, agapfukamunwa ke karasa umukara, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ariko itagaragara ku maguru, umukobwa nawe ntabwo isura igaragara, yambaye agasenge k'umweru ahagaze mu cyuma gikoresha imyitozo, igice cyo hasi ntabwo kigaragara.

Akaboko kirabura gafite ikiganza cyagafasheho kigafatiyemo agatambaro gasa ubururu, akaboko kararambuye neza, karambuye ku kindi kintu kitangirije, nyirakaboko bigaragara ko yambaye umupira w'umweru.

Umukobwa utagaragara isura yose ugaragara guturuka ku kananwa kumanura, akaguru kamwe ntabwo kagaragara kamwe yakazaye aragahina agafatisha ukuboko kw'ibumoso, ukuboko ku iburyo agushyira imbere ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'ubururu yambaye n'akandi gapfutse amaberek'ubururu ariko bwijimye.

Amaboko abiri ariko ba nyirayo batagaragara neza, ukuboko kumwe kwambaye ishati y'ubururu gufashe umuti w'amenyo mu ntoki kurimo kubakandira ku buroso bw'amenyo ukundi kuboko kutagaragara nyirako neza gufashe ubuso bw'amenyo uko wateze ngo bagushyireho umuti.

ikimera gifite ururabo rw'umweru rufite umutima w'umuhondo, ibibabi byacyo ni icyatsi kibisi. Igice cyacyo cyo hasi ntabwo kigaragara, gusa biragaragara ko gihagaze mu bindi byatsi byinshi. Ubwoko bw'iki kimera n’inyabarasanya, ukaba umuti gakondo uvura ibisebe.

Ikimera cy'umuti gakondo cyo mu bwoko bw'umuravumba, gis’ibara ry'icyatsi gihagaze, ariko kitarakura neza. Kir’ahantu hahinze neza, kiri kumwe n'ibindi bimera by'umuti gakondo byinshi bigiye bitandukanye.

Igice cy'ubuto rw'ipapayi kigaragaramo imbuto zijimye z'umukara mo imbere rugasa umutuku, rwegamye ku rundi rubuto rukiri rwose rw'ipapayi narwo, ariko rukiri icyatsi kibisi bigaragara ko rudahiye biri ahantu hasa umweru.

Amacupa atandukanye y'imiti gakondo harimo harimo asa umweru, asa umukara ndetse n'asa umuhondo, iry'imbere rirasa umuhondo, hejuru ripfundikishije agapfundikizo k'umukara, andi asigaye harimo asa umweru, umukara ndetse n'iritukura, ripfundikishije agafuniko k'umutuku.

Agakarito kavamo ibinini kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, mu ibara ry'umuhondo handitseho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara, hejuru y'ayo magambo hariho agafoto k'igisiga kizwi mu bwoko bwa kagoma naho mu cyatsi gishuranyije nk'igikarubamba hateretsemo akantu kameze nk'agasoroyi karimo ibintu byinshi bitandukanye bimeze nk'imiti gakondo.

Imbuto z'amacunga z'amabara atandukanye zimwe muri zo zirasa umuhondo izindi zirasa umutuku izindi nzira z'icyatsi zimwe muri zo kandi zirasatuwe n'ibice hasi yazo zijya zifite utubabi dusa amabara y'icyatsi kibisi aho ziteretse harasa ibara ry'umweru.

Ahantu hijimye hari igiti cy'avoka gifite amababi y'icyatsi, biragaragara ko cyubakiye ikizwi nk'uruzitiro ku buryo ntawarenga inyuma y' urwo ruzitiro ngo yinjire aho ibyo biti biri, kandi bisa nkaho ari ibiti by'ubwoko bw' ibangurirano cyangwa se by'ubwoko bugezweho.

Mu ishyamba ry'ibyatsi bigaragara ko byiganjemo imiti gakondo harimo ibifite amababi ateye nk'ay'icyatsi bita ikirogora harimo ibindi bifite amababi mato matoya asa umweru yenda kuba umuhondo, birasa nkaho bimwe byakubiswe n'izuba.

Icyapa cy'umuti gakondo cyanditseho amagambo yanditse muyuguti z'umweru, hasi hari amagambo anditse mu ibara ry'icyatsi ariko yanwandikishije umweru, iruhande hari icupa ry'umweru n'umutuku ripfundikije agafuniko k'umweru, bigaragara yuko ari umuti gakondo nako kandiditseho amagambo mu ibara ry'umweru hasi ariko yandikishije umutuku.

Ibimera bitandukanye ariko byamaze gusoromwa; ibimwe birasa ikigina ibindi birasa umutuku wijimye; ibisa iroza, ibisa icyatsi kibisi, ibisa umuhondo byombi byateranyijwe hamwe bigiye gutunganywamo umuti wo kuvura.

Akabati k'iguriro ry'imiti gakondo itandukanye igiye iri mu amacupa y'ingano zitandukanye ndetse apfuje imifunika itandukanye, amwe muriyo ni maremare andi ni magufiya, agiye apfundikije imifuniko y'umukara, umweru, umutuku ndetse n'indi myinshi igiye itandukanye.

Ishami ritagaragaza igiti rifasheho rifite ibabi risa ibara ry'icyatsi kibisi, biragaragara ahantu hasa nabi hejuru y'ibyatsi bigaragara ko ari umuti, ibyo bibabi biteye nk'ibabi ry'umuvumu cyangwa se ibabi ry'umusange.

Umuti w'amenyo ushinze ucuritse mbese ubwo ni ukuvuga ngo agapfundikizo kawo niko gafashe hasi, urasa umweru uriho igikakarubamba wanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'umukara, hejuru y'ayo magambo hariho akamenyetso k'igisiga.

Ikimera cy'icyatsi kibisi gifite amagambo yanditse hasi yacyo mu ibara ry'umukara ariko mu rurimi rw'icyongereza, iki kimera gifite ibaracyatsi kibisi mu buryo bwa kinyarwanda tucyita umuravumba ukaba umuti gakondo wifashishwa n'abanyarwanda mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikarito cy'umuti gakondo, kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo y'umukara, cyanditse nyuguti ya C ndetse n'umubare icyenda, kiriho ifoto y'umukobwa wifashe mayunguyubu wambaye agasengeri kagufiya, ufite imisatsi myinshi, ariko utagaragara igice cyo hasi, guturuka ku mabuno kumanura ku birenge.

Amacupa atatu y'imiti gakondo yombi apfundikiye ariko atandukanye, rimwe ni umweru n'ubururu hasi bw'akaro gatambitse ku ndiba, irindi ni umweru n'umutuku, irindi ni umweru n'amagambo y'ubururu iririmo amabara y'umutuku ryanditseho mirongo itanu.

Amashami y'avoka y'imbangurirano afite ibabi by'icyatsi kibisi n'ivoka itangiye kurabya bigaragara ko ifite imbuto nkeya zitarakura inyuma yayo hari ibindi bimera byinshi iyi avoka irubakiye.

Ibimera bibiri by'ubwoko bumwe ariko bitagaragara aho biteye kamwe gafite amababi ageze kuri atatu akandi gafite amababi ageze kuri atatu ariko amababi yabwo ateye nk'amababi y'imyumbati biragaragara ko ari umuti wifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Icupa ry'umuti gakondo ariko riteretse ricuramye, rirasa umweru hombi gusa rifiteho amabara y'umuhondo, ryanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, riteye nk umuti w'amaso cyangwa se umuti w'amenyo bigaragara yuko ari umuti gakondo, aho riteretse iruhande rwaryo hose harasa ibara ry'umukara.

Ibimera by'umuti gakondo bisa ibara ry'icyatsi bitagaragara hasi, ubu ni ukuvuga ngo aho bifatiye ikimera kigaragara cyane kurusha ibindi ni umuravumba. Umuravumba ukaba ari umuti wifashishwa mu kuvura inkorora n'ibicurane n'utundi turwaro dutandukanye mu muco gakondo w'abanyarwanda.

Akanyubako gatoya hejuru gakikijweho senyenge gateretseho indobo eshatu ziri mu ibara ry'umutuku, zombi izo ndobo zirimo ibimera bifite amababi ameze nk'ay'inyabarasanya, hirya yabyo hari ibindi bibabi bigiye bitandukanye bimeze nk'iby'imigwegwe ariko bigaragara ko byombi ari imiti gakondo.

Icupa ry'umuti gakondo ribyibushye hasi ariko umunwa waryo ukaba utabyibushye nk'uko hasi ringana, ripfundikije umupfundikizo w'umweru, ribambyeho ishashi y'umuhondo yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, hasi hariho akarongo gatambitse k'umukara kanditseho ijambo ryanditse mu ibara ry'umweru, impande y'ako gacupa hariho igishusho cy'igikakarubamba.

Amacupa atandukanye ageze kuri arindwi, arimo imiti gakondo, ari mu ngano zitandukanye, harimo rimwe ribanza ribyibushye rifite umufuniko w'umweru, ririho amagambo y'umutuku hose rirasa umweru, hari agakakurikiyeho gatoya kari mu ibara ry'umweru, ariko gato hari irikurikiye irindi ry'ibara ry'umuhondo ririho igikakabamba ryanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ripfundikije agapfundikizo k'umukara.

Amacupa y'imiti gakondo arambitse hasi yombi ari mu ngano zigiye zitandukanye ariko yose atagaragara neza iminwa, witegereje neza amwe afite amabara y'umukara wijimye, hariho amashashi menshi agiye ayarambuyeho aranga icyo iyo miti ivura ndetse n'icyo ikozemo.

Icupa ry'umuti gakondo rigufi ariko bitari cyane, ripfundikije umufuniko w'umweru, ribambuyeho agashashi kanditseho amagambo mu ibara risa ikigina, andi yanditse mu ibara ry'umukara, rirasa umweru hombi, aho riteretse harasa ibara ry'umweru gusa.

Agakarito gatoya kavamo umuti kari mw'ibara ry'umuhondo ryanditse amagambo yanditse ibara ry'umukara hakaba hejuru yayo akarangantego ry'igisiga hari ibara ry'icyatsi ririmo akantu kameze nk'agasoroyi hasi ku gakarito hari umuti umeze nkaho bagakuyemo ufite amabara y'umutuku.

Voka y'icyatsi n'ikindi gice cya voka kirimo ikibuto, imbere ya byo biri kumwe n'isabune y'umweru, inyuma ya byo byombi hari ikimera cy'igikakarubamba gisa ibara ry'icyatsi, hejuru handitse amagambo mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru, no hasi hari irindi jambo mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru.

Ni ibiganza by'umuntu ariko utagaragaza ibindi bice by'umubiri, abumbatiye akantu mutoki kameze nk'agasekuru ariko yagateretse hasi ku musambi arimo arasekura ibintu bimeze nk'aho ari umuti, mbese ari gukora umuti gakondo mu yandi magambo, imbere hateretse udusahane twinshi tugiye dutandukanye tw'amabara agiye atandukanye turiho n'ibintu bitandukanye.

Imiti gakondo imwe iri mu ivaze iyindi iri hasi ku tumamiro tubiri dukoze, indi mu ducupa tune, agacupa kamwe gatoya gapfundikishije umupfundikizo w'umweru, n'akandi kagakurikiye kisumbuyeho gafite umupfukizo w'umweruru ariko kakagira umunwa w'umutuku hejuru n'utundi dukurikiyeho tw'ibara ryijimye, mbese hari n'ibirabyo by'umweru ndetse bifite amababi y'icyatsi.

Amacupa y'imiti gakondo ari mu ngano itandukanye ateretse ahantu hasi ubururu amwe muri yo apfundikishije imipfundikizo y'icyatsi, andi apfundikijwe impfundikizo y'ubururu bwijimye ariko hasi hayo afite udupapuro tubabyeho tw'umweru ndetse n'utundi tw'icyatsi.

Imiti myinshi itandukanye, harimo iri mu uducupa, ikiri mu gakarito, uducupa tumwe turubitse utundi turahagaze, umuti umwe muri yo urasa umuhondo upfundikishije agafuniko k'umutuku, uwukurikiye upfundijishije agafuniko k'umutuku, ariko umutuku wererutse, nawo urasa umweru.

Ibimera bifite ibara ry'icyatsi, bifite ibibabi biteye nk'iby'imyumbati, mu byukuri biragaragara ko ari umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, ntabwo impande zawo zigaragara neza, ariko bisa ari giti giteretse mu murima n'ubundi uwagenewe guterwamo imiti gakondo yo kuvura indwara zitandukanye.

Umuntu utagaragara neza, ugaragara umutwe wo hejuru witeze igitambaro cy'umweru, warebye imbere ariko yitegereza ikimera gisa naho ari umuti gakondo. Bimeze nkaho ari umubirizi ufite uturabyo tw'umweru, arimo arasoroma umuti. Ikiganza cye kiragaragara cyafashe ku ibabi rimwe ry'umuti.

Icupa ry'ibara ry'umweru riteretse mu mwijima, ni icupa ribyibushye mu mbavu, rikagira agafuniko k'umweru ariko ijosi ryaryo rirahorose, hari amagambo yanditseho atagaragara neza, hariho ikirango cy'igisiga, hari akarongo hasi kajya gusa ibara ry'umutuku ariko wenda kuba nk'umuhondo, gatambitseho, kanditseho amagambo y'umweru.

Ni iparato y'umweru ya mpande enye gusa imfuruka zose zitagaragara iteretseho imbuto nyinshi zitandukanye ariko zikatakase zifite ibara ry'umuhondo hateretseho agacupa k'umuti gakondo k'umweru gapfundikishije umuvufuniko w'umweruru kababyeho agapapuro kanditseho amagambo y'icyongereza mu ibara ry'umukara naho hasi hari akantu k'ubururu kanditseho n'ijambo mu ibara ry'umweru.

Igikarito gifunze cya mpande enye ariko kitagaragaza imfuruka zose kiriho imirongo y'ubururu yanditsemo amagambo y'umweru manini ubwo ni imirongo ibiri hasi no hejuru, umurongo umwe urazenguruka ukagera hirya, undi wo ntabwo uzenguruka, hari ayandi magambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ubururu.

Amacupa y'imiti gakondo ari mu ngano itandukanye, hari icupa rirerire ry'umukara ripfundikishije umufuniko w'umweru, rirambyeho agashashi k'umweru kanditseho amagambo atukura ariko ari mu rurimi rw'Icyongereza, andi macupa ni umweru, apfundikije imifuniko y'umweru, na yo abambyeho udushashi, yanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugore w'inzobe utagaragara neza mu isura ufite umusatsi mwinshi witeza agashabazi k'umweru, ufite agasakoshi k'agakwire mu ntoki, wahindukiye arimo araca umuti ahasa n'aho ari ari ku rugo, hirya ye hari insina ndetse igice cy'umubiri cye cyo hasi ntabwo kigaragara.

Amacupabiri y'amavuta ariko y'umuti ari mu mabara atandukanye, rimwe n'ibara ry'umweru rivanzemo n'agahodo gakeya, rishanyijeho igikakarubamba hasi ndetse n'izindi mbuto, irindi ni umuhondo ryanditseho amagambo y'umukara rishushanyijeho igikakarubamba cyonyine, yombi ahuje ikimenyetso cy'igisiga hejuru kuri yo.

Umuti uri m'icupa ry'umweru ripfundiki agafuniko k'umweru rifite ijosi risa n'iritebeyemo ryanditseho amagambo y'icyongereza m'ibara ry'umukara hasi haryo hari akanrongo karimo ibara ry'icyatsi kanditseho amagambo m'ibara ry'umweru.

Ibimera by'icyatsi kibisi bitagaragara hasi aho biteye, biteye nk'ibimera by'urumogi byifashishwa mu miti ikoreshwa kwa muganga, bisa n'aho ari ahantu bihinze, ngo bijye bikoreshwa mu buryo bwo kuvura abantu batandukanye.

Ikimera gifite ishusho y'icyatsi kibisi, giteye nk'urumogi. Giteye ahantu hari utubuye tw'umukara n'umweru, bisa naho ari mu busitani bwo mu rugo rw'umuntu cyangwa se ahandi cyatewe kugira ngo cyitabweho.

Ibyatsi byifashishwa mu kuvuguta umuti gakondo bifite ibara ry'icyatsi kibisi bifite amababi agaragara nka y'imyumbati cyangwa se ateye nka y'urumogi ,witegereje neza harimo utubara dutoya tw'amababi asa nka yakubiswe ni izuba yabaye umuhondo.

Ibikoresho bitandukanye bishyirwamo imiti, birimo amacupa, udukarito, amacupa maremare ndetse n'amagufiya, hari amacupa abiri agaragara y'umuhondo ariho amafoto y'igikakarubamba, apfundikije udufuniko tw'umukara, handitseho amagambo y'umukara, hejuru kuri buri cupa hagiye hariho akarango k'igisiga.

Imiti ine itandukanye y'ibimera kimwe n’igiti cy'icyatsi kibisi ariko giteye ku ubutaka butukura hejuru yacyo ni ibyatsi bigufi bigufiya ariko n'icyatsi kinini bisa nkaho ari umuravumba cyangwa indakatsi iburyo hari umugabo wambaye ikote ritukura warebye imbere ufite umusatsi mwinshi ariko bitari cyane akaboko yagafatishije ku giti cy'umuti kirekire kimusumbaho gatoya.

Ibimera biteye mu ishyamba ahantu hirengeye bigaragara ko hari agasozi, hasi yabyo hari ibifite amababi ameze nk'ay'inzuzi z'amadegede, ikimera kigaragara kurusha ibindi ni ikimera cy'umuti gakondo uzwi nk'umuravumba, inyuma yacyo hari ibindi bimera byinshi bitandukanye bigaragara ko ari mu ishyamba.

Icupa ry'umweru ribyibushye hasi rikagira ijosi risa nk'iri nanutse ariko bitari cyane, ripfundikije agafuniko k'umweru ribambyeho agapapuro k'ubururu ndetse n'umweru kanditseho amagambo y'umukara ndetse n'umweru, kakagira ikirango cy'igisiga kizwi mu bwoko bwa kagoma gifite agati, kirimo kiraguruka.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye y'ingano ndetse n'amabara bitandukanye icupa rimwe ribanza ku ruhande rw'ibumoso rifite umufuniko w'umukara mutoya naryo rirajya gusa umutuku ariko werurutse, iririkurikiye irushanyije ry'ikakarubamba riho n'amagambo atukura hejuru hapfuje agapfunikizo gatukura, irihera ku mwanya wo hirya naryo ripfuje impfurabyi itukuraryanditseho amagambo mu buryo butukura rikaba akamenyetso k'isake, hasi hagashonya igikakarubamba.

Agashami k'ikimera katagaragaraho gafashe gafite amababi y'icyatsi kibisi ameze nk'ariho ibijojoba by'imvura cyangwa se yanyagiwe gatendetse hejuru y' ahantu hameze nk'ari ikiziba, ahantu hari ubutaka bwanduye ariko butukura.

Agacupa gacuritse gasa umweru kariho igisiga cyangwa se ikirangantego kigisiga hejuru, kanditseho amagambo y'umukara ariko gasa umweru, karacuritse gapfundikije icupa ry'ubururu, gateye nk'umuti w'amaso cyangwa se umuti w'amenyo, ibara rikari inyuma ni ibara ryijimye.

Icupa ry'umuhondo rirerire ripfundikishije agafuniko k'umutuku, ryanditseho amagambo mu ibara ritukura, hejuru y'ayo magambo hakabaho akarango k'igisiga, iruhande rw'iryo cupa hakaba ibibabi by'igikakarubamba bisa ibara ry'icyatsi, ariko bitagaragara neza hasi no hejuru.

Icupa ry'umuti gakondo rifite ibara rusange ry'umweru hose gusa rikabamo amabara y'ubururu, ryanditseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu mu rurimi rw'icyongereza ripfundikije umupfundikizo w'umweru ni icupa ri nini mo ga nkeya riringaniye.

Ibyatsi bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo uturabara tw'umuhondo duke dukeya, bigaragara yuko turanga ukuma kw'ibyo byatsi, hasi hari ibyatsi bito bito, naho hejuru hari ibyatsi byakuze bijya hejuru.

Imiti ibiri itandukanye ikikije agakarito kanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza agira ati, '' Alowe bodi losheni.'' Ako gakarito kandi gakikijwe n'imiti ibiri umwe ni umweru n'ubururu wanditseho amagambo y'umukara agira ati: '' Alowe bodi losheni.'' N'aho akandi ni icyatsi n'umweru kanditseho amagambo y'icyatsi agira ati:'' Alowe bodi wosi.

Akabati k'iguriro ry'imiti gakondo karimo imiti igiye itandukanye hari mu macupa abyibushye, ahorose, maremare, amagufi apfundikije imifuniko igiye itandukanye harimo : itukura, iyirabura, iy'ubururu, iy'umweru ndetse n'indi myinshi; ubucupa buri mu moko atandukanye.

Imiti myinshi iteretse hasi ku matapi asa icyatsi, hamwe n'ibyatsi bizingazinze, hari imbuto nyinshi zitandukanye z'ubwoko bwose ndetse n'ibiti bigaragara ko ari ibya gakondo, hari agasekuru kandi ko mu buryo bwa gakondo karimo n'ahini kako, bigaragara ko ari agasekura iyo miti, hirya hari akandi gasa umweru karimo ibintu byumweru bimeze nkaho ari imiti.

Icupa ry'umutuku n'umweru ryanditseho reyishi, iburyo bwaryo hakaba igishushanyo kigaragaza amara y'umuntu, hanyuma hasi hakandika hati: "reyishi niyo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru".

Amacupa y'umuti gakondo rimwe riteretse inyuma andi yo ateretse mu kabiko kayo, ni amacupa ashushanyijeho ibikakarubamba mu ibara ry'icyatsi, yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ariko mu rurimi rw'icyongereza, ateretse ku murongo mu kabiko kayo.

Imiti gakondo iri mu bikoresho bitandukanye, harimo ibikarito nk'igikarito cya mpande enye gitoya, amacupa abiri y'umuhondo areshya kandi asa, yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, akoreshwa amabara y'umukara, apfundikijwe imifuniko y'umukara, yombi ashushanyijeho ibishushanyo by'bikakarubamba.

Abantu babiri batandukanye umugore n'umugabo, umugore yambaye umupira w'umweru ufite ingofero, ateze agatambaro gasa ubururu, igice cyo hasi cye ntabwo kigaragara kimwe n'umugabo, umugabo nawe yambaye umupira w'umutuku mo imbere, inyuma akambara ikote ry'umukara ariko ari mubi biti ntabwo agaragara neza.

Amacupa ane atandukanye arimo umuti gakondo, yombi ari mu mabara atandukanye, atatu muri yo ari mu ibara ry'umweru na ho irindi rimwe riri mu ibara ry'umuhondo, ripfundikishije umufuniko wirabura, yombi ateretse mu mabara agiye atandukanye, icyo ahuriyeho agiye ariho ibikakarubamba ndetse no hejuru yayo hari ikirangantego cy'igisiga.

Ishyamba ry'ibimera byinshi higanjemo iby'umuti gakondo hagazemo umugabo wambaye umupira w'umweru utagaragara igice cyo hasi guturuka ku kibuno, arimo araca umuti ari mu kiro cy'imyaka hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itanu.

Ni inzu y'amarangi y'umuhondo, iteretsemo akabati gateretsemo imiti myinshi igiye itandukanye, ariko bisa n'aho ari ubuvuzi gakondo, ihagazemo umukobwa utagaragara isura ugaragara igice cy'umugongo ariko wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi ifungiye inyuma.

Ibimera bitandukanye biri ku butaka bwirengeye bisa n'aho byari ku mugoroba cyangwa se mu gitondo cy'urukerera, ibi bimera biragaragara nk'aho ari umuti gakondo ndetse w'igikakarubamba, bimaze gukura bigaragarira buri wese ko byavamo umuti.

Ibyatsi by'imiti gakondo byiganjemo ibigaragara nk'aho ari ari umuravumba, inyuma yabyo hahagazemo umuntu utagaragara neza mu isura ndetse no hasi. Wambaye ishati y'umukara ndetse ifite imbere ikintu cy'umutuku, ibyatsi bi biragaragara nk'umucayicayi mbese wagira ngo bari kuhasoroma umuti wo kujya gukora imiti.

Mu isoko ricuruza imiti gakondo hahagazemo abantu benshi bagiye batandukanye abagurisha umuti ndetse n'abawugura. Harimo umugore witeze igitambaro cy'umweru wunamye areba muri kamera. Yambaye umupira w'umutuku wijimye. Hirya ye hari uwambaye itaburiya y'umweru. Imbere ye hari umugabo wambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara wunamye amureba mu maso.

Akabati k'imiti gakondo gateretse mu busitani kegamyeho umuntu wambaye umupira w'umweru, gafite ibara ry'icyatsi harimo amacupa menshi atandukanye apfundikije igipfundikizo y'amabara agiye atandukanye harimo nk'icyatsi umweru ndetse n'andi, ayo macupa ni ay'imiti gakondo.

Hagati ni amacupa ari mu mabara atandukanye ndetse no mu ngano zitandukanye harimo n'ibara ry'umuhondo ripfurikije umupfundikizo w'umukara, hakaba ibara ry'umweru ripfukishije umupfundikizo wa orange, hakaba ku ruhande amabara y'icyatsi bigaragara yuko uko ari ibimera ndetse bifite imbuto zitukura.

Igicupa kirekire gitukura hose gusa cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru gusa mu rurimi rw'icyongereza, tugerageje kuyasoma rimwe ryanditse mu mpine riti FAB hasi bakabishyira mu magambo arambuye, agira ati forever active post aho ni mu rurimi rw'icyongereza, hasi hakaba akarongo k'umweru kanditseho ijambo foreva

Ni ingingo z'umubiri w'umuntu bigaragara ko zifite ibibazo bigiye bitandukanye ariko bikeneye ubuvuzi, harimo nk'ikibazo cyo kurwara ibikanu, umugongo amavi, inkokora ndetse n'imbavu impande z'ibyo bice by'imibiri haragaragara amacupa ari mu mabara atandukanye nk'ibara ry'ubururu, umweru n'ikibara kijya gusa ikijuju, bigaragara yuko ari yo miti y'ubwo burwayi

Umuti gakondo w'icyatsi ufite utubabi tw'icyatsi kibisi, ufite uturabyo tw'umuhondo ariko ko twatangiye kuma, usoromeye ku kantu kameze nk'agakoko akandi kameze nk'agasekuru harimo agati, bigaragara ko barimo baratunganya umuti barimo kuwusekura.

Ibimera bikiri bitoya biteye bifite amababi ajya gutera nk'a'imyumbati cyangwa se ay'umwica nzoka, biteye ahantu hameze nkahari agasozi, hari ikiganza ariko kitagaragara neza hagaragara intoki ebyiri cyakubiye akabari kamwe k'ikimera gishaka kugaca.

Mu ishyamba ririmo ibimera byinshi bitandukanye birimo ibiti, birimo ibyatsi ndetse n'ibindi byinshi, igiti cy'inganzamarumbo cy'umuti gakondo gifite amashami yagiye ahubukaho amababi ariko amababi akigaragara hejuru. Amababi arasa icyatsi kibisi, gusa harimo ayatangiye kugenda agaragaza kuma.

Ibikoresho bitandukanye birambitse ahantu hasa umweru, umuti w'amenyo ushushanyijeho igikakarubamba, ariko agafuniko kawo karambitse hasi ni ukuvuga ngo niko wicaje, inyuma yaho hari utuntu twinshi tumeze nk'aho ari amashuka azingazinze, iruhande hari agakombe kameze nk'agakoze mu buryo gakondo, karimo uburoso bubiri bufite umukara.